Abanu ubona ko bishimye, basohokanye ni umujyango wa abagabo batatu, umukobwa umwe ndetse hirya hari undi tutari kureba, ameza ashasheho ibitambaro bikeye amacupa kumeza y'ibyo barikunywa ubona ko umwe arikunywa ibisembuye abandi barikunywa ibidasembuye, urabona ko bishimye cyane.

Umusore mwiza ubona ko afite agasatsi gasokoje afite igikombe, hirya hari icupa ry'umutuku rimuteretse inyuma ye hari ayandi menshi cyane arimo nzoga zitandukanye, ibintu ubona ko biberye amaso hari abakunda ibintu bivanze, ni yo mpamvu ubona ko na we afite ibikombe mu ntoki ari kubivanga, isaha ku kaboko.

Ahanu heza ubona ko hasa neza cyane urabona ibara ry'icyatsi, icupa riteretse hano hakurya hari abantu barikwinywera, urabona ko baje basohokanye nabo ku meza yobo ngo baze bagire ibyo bafata unywa fanta inzoga ndetse n'ibindi, haribyo barikureba umupira sibyo guas urabona ko hari n'indirimbo.

Inzoga nziza iryoshye ubona ko iri mu icupa ry'icyatsi ariko bafunguye, ikirahuri kirimo indi iri kubira. Hakurya hari'udutara turi kwaka twiza cyane tubereye ijisho, ibyerekanirwaho umupira ndetse n'indirimbo bibiri, ubona ko ari ibintu bishimisha buri muntu bigatuma yaza kuhanywera.

Ibirahure byiza cyane amacupa y'inzoga meza ubona ko hirya hari andi menshi cyane ameza ubona ko asa neza cyane hariho utuntu tw'umutuku ni byiza ko nawe wajya uzana n'umukunzi mukahaza mukinywera ibintu runaka wawe nyine mugataha sibyo gusa haba hari n'ibyo kurya.

Nibyiza ko iyo ugira ahantu barira nawe ugomba kugira lisite y'ibintu bihari, urugero niba ufite ifiriti ukayishyiraho ibiciro, inyanya ibiciro, ibintu nkibyo nyine n'ibyo kunywa byose ukabishyiraho ibiciro byorohera umuntu wese uje abagana kugirango ahite abibona byihuse nkuko ubibona kur'iki kirango cy'umukara byanditseho.

Umwari mwiza cyane ubona ko yishimiye gukoresha ikoranabuhanga, afite terefone mu ntoki, imisatsi isokoje neza, inyuma hari ibyo bareberaho imipira ndetse n'indirimbo, hakurya gatoya harimo udutara tw'ubururu ubona ko turi kugaragaza ibindi bintu runaka, hano bacururizamo inzoga, fanta ndetse n'amazi.

Abasore babiri ubona ko bitembereye bakaza gufata kamwe ngo basangire, nk'uko ubibona ikirahure ndetse n'icupa ry'inzoga, umwe afite terefone bisa n'aho ari gukoresha ikoranabuhanga, undi nawe wagira ngo hari ibyo arimo, nawe nakugira inama yo kuza rero ukifatira kamwe niba ukabashije nta kibazo cyo kuza ku kinywera igihe wakoze.

Ahantu heza ubona ko hashashe utubuye tunyerera, icyapa kiriho icupa ndetse n'izoga iri ku birahure, reba hakurya hari ahandi hari ikirango cy'umutuku cyanditseho amagambo y'umuhondo munsi yaho hari ahantu hateye uturabyo twiza ubona dutanga umuyaga mwiza, ari ahantu ushobora gutemberana n'umukunzi wawe ukaba wafata akantu gatandukanye karimo nk'agafanta cyangwa agasembuye.

Abari beza cyane urabona ko bishimye; umwe arikongorera undi yamabye umupira mwiza cyane wanditseho inyuguti ya ga, amacupa ndetse n'ibirahure birimo inzoga imbere yabo undi ari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ; na ho abandi bo bari kwirebera imipira urabona ko baryohewe cyane.

Ni byiza ko nawe watangira imirimo yawe yo kwikorera ariko ukajya igira n'isuku ugashiramo n'ibintu bicyeye cyane nk'uko ubibona hari udutebe twiza cyane aho gutereka icyo kunkwa ndetse n'ibindi nk'uko ubibona rero hejuru hari inzoga nyinshi cyane ziri mu bwoko butandukanye n'umuntu wakira abaje kuzishaka.

Hari ahanti nzi ushobora gusohokana umukunzi wawe bitewe n'uko bayifuza, hari ahatuje ndetse hari n'aho baba bari kubyinira. Muri kubibona hano hari intebe nziza zirimo imisego, amatara yaka umutuku n'ubururu. Urabonako harimo abantu bicaye bari kwinywera fanta, ndetse n'abandi bari kunywa ibisembuye ndeste nawe waza ukinywera ntakibazo.

ikirango cyiza cyane ubonako kiri m'umutuku abantu babiri ndetse n'abahungu babiri barikubyina icupa ririmbere ririmo inzoga wareba munsi yaho bisa nkaho arahantu buri wese aza akabyina akumva arishimye nakugira inama nawe rero niba ufite ibintu ukora ko wajya ubinyuza mukwamamaza kuko birafasha cyane

Ameza asa neza ubona ko hariho amakaro nayo akeye nibyokurisha biriho ibirahure ndetse nibiyiko hakurya ndahabona ibiti byiza cyane bitanga akayaga nahantu heza nawe ushobora gusohokanira umukunzi wawe hakeye kuburyo iyo witegereje neza ubona nimisozi hakurya.

Harakeye cyane nawe urabibona, amatara meza yaka atandukanye umuhondo, umutuku ndetse cyangwa andi. Nawe nk'uko ubibona hari abantu benshi basohotse bambaye ingofero n'ikote bari kwinywera kamwe .Hano rero wahazana n'umukunzi wawe kuko harakeye bagira ibiryo biryoshye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye ntago wabura nakimwe winywera.

Uburyo bwa kera bwari bubi cyane aho wasangaga uri kwandika inkuba zikagutumukiraho ukarwara indwara runaka z'ubuhumekero, ariko ubugubu byaroroshye yandika igihe abishakiye ariko abantu babanje kubyumva, ndetse byarakemutse ubu ngubu abana ntabwo bikibagora.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata, amagi abiri ateretse ku meza igikarito cy'amazi ya nili giteretse kuri kontwari mo imbere muri etajeri harimo amajerekani atatu y'umweru.

Igipangu cyiza cyane urabona ko hashashe ntaho wahurira n'icyondo, hasi ku gikuta hari akabara k'umutuku, hejuru gato hari ak'umuhondo ndetse warebamo imbere urabonako gifunguye handitseho amagambo, hirya gatoya hari ibiti n'inzu hejuru y'aho urabona ko hari ikirarango kiriho amacupa menshi bigaragaza ko ari ahantu ushobora kuza ukinywera akantu.

Ahantu hakeye cyane rero ubona ko hari intebe nziza, ibitambaro bifashe ku meza, amatara meza cyane, hakurya hari ahantu turi kwaka ubona ko dusa neza, hano rero ni ahantu watandukanira na sheri wawe mukinywera ibyo kunywa bitandukanye ndetse mukanishimana mukahagirira ibihe byiza.

Ni heza urabona ko hasa neza, amabara y'umutuku atica abantu amaso, inzoga zo mu bwoko bwose, ubona ko hari umuntu urikuza abagana yaka icyo kunywa, si ibyo gusa n'ibyo kurya hari igihe wabihasanga biterwa naho ariho wagiye nk'inkoko, ifiriti cyangwa ibindi.

Gusohokera ahantu hake niyo bwaba bwije ukabona ko hagaragara nta kibazo uri buhure nacyo ukabona intebe nziza zo kwicaraho hari umukobwa mwiza cyane washyize ishakoshi ku meza. Hirya gatoya hari ahantu hari kwaka udutara ubona ko harimo umuntu mo imbere arimo arakira abantu abasaba inzoga bari kumuhereza cyangwa fanta ngo bazinywe.

Ahantu heza habereye iji ko harimo udutebe twiza dugufashe ku byuma aho kwicara hasa umweru, aho batereka icyo kunywa urabona ko hakeye hasa n'ahirangiye ni harehare, hakurya hari ahantu hamanitse ibyo kunywa byinshi cyane ushobora kwaka nawe icyo ushaka bakakiguhereza hari n'ibirahure bizana urumuri rwinshi cyane ukaba wareba ndetse n'udutara dutatse hejuru.

Ibikorwaremezo bifasha abaturage kugenda neza batekanye ahubakwa gare zihuriramo imodoka inini n'intoya.

Harasa neza ubonako harimo intebe nziza cyane, imitako iri kugikuta, utubara tw'umutuku dutambitse hirya, hakurya hari ahantu hari icyo bareberaho imipira, indirimbo ndetse n'ibindi, hanamanitse inzoga nyinshi cyane zo mubwoko butandukanye, nawe ushobora kuza ukinywera.

Ikirango cyiza cyane cy'amabara y'umutuku ubona ko harimo abantu bari kubyina, ndetse bishimye abasore ndetse n'inkumi imbere yabo hari icupa, iki ni ikigaragaza ko rero hafi aha ngaha hari ahantu wanywera, wakubita hakurya yaho hari imodoka ndetse n'ibiti hateraniye abantu benshi ubona ko utazi icyo bari kureba.

Akabari keza ubona ko gacyeye karimo amatara, hirya har'umusore wicaye, umwari wicaye hagati. Bari kureba igikoresho bareberaho umupira cyangwa se indirimbo ndetde n'ibindi. Nkuko ubibona rero hano bacuruza inzoga, fanta, amazi ndetse n'ibindi, n'ibyo kurya wabihasanga.

Ahantu runaka nawe ushobora kuza ukinywera ni nkaha ngaha aho nk'uko ubibona intebe nziza cyane ziteye amabengeza utuntu dushashe ku meza yaho ikirango k'icyatsi ubona ko inzoga yaho ari yo zinyobwa cyane hirya hari ahantu bacuruza izindi nyinshi hamanitse n'amacupa waza ukigurira nawe aho harimo ibisembuye n'ibiasembuye.

Ahantu heza urabona ko hakeye, harimo rwose intebe nziza ndetse hari n'izisize uturaba tw'umutuku, hirya hari ahantu bakirira abantu, harimo umuntu ushobora kugenda ukamwaka inzoga cyangwa se icyo kunywa runaka ushoboye akakiguhereza ukinywera ukica icyaka.

Urabonako hakeye hari abantu benshi bishimye icupa hariya ku imeza z'icyatsi hakkurya hari umwari wambaye imikara wicaye bisa naho yasohotse uri kubona ahantu henshi huzuye amacupana ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nawe rero wahasohokana n'umukunzi wawe birafasha.

Nk'uko ubibona aha ni ahantu heza ubona gusohokanira n'umukunzi wawe biraryoshye cyane nk'uko ubibona hari umusore mwiza wambaye ishati, umwari wambaye agapira k'umutuku, ndetse n'abandi bantu benshi bari baje kubyina kwishima, urabona ko hakeye hari amatara meza abereye ijisho ntakabuza nawe wahaza.

Kwihangira imirimo ni ibintu biteza imbere buri wese nk'uko mubibona hano hari akabari keza cyane karimo amabara y'ubururu rw'amatara meza yaka, hirya gatoya hari ahantu bakonjeshereza inzoga rero iyo urebye hirya hari amacupa meza cyane asembuye haba harimo n'adasembuye ni byiza ko nawe wahasohokana n'umukunzi wawe.

Ni ahantu heza ubona ko hashashe amabuye ni ahantu ho gusohokera cyane ,nkuko ubibona hari umuntu wari waje wiyumviye neza hakurya haricyo berekaniraho imipira, indirimbo cyangwa ibindi bintu urabona ko hasakaye nta mvura yakwica cyangwa se izuba cyane ko ubona ko hari intebe nziza cyane zo kwicaraho ntabwo warambirwa haratuje.

Umwari mwiza ubonako akeye ari guseka neza yishimiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, hirya hari n'undi wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari ikirango kiriho inzoga, ndetse ateruwe n'akamashini kabugenewe. Ibi rero hifashishwa mu kwishyura utajyanye amafaranga mu ntoki cyangwa uri gushaka kugura ikintu runaka wiberereye mu rugo utanga ikarita yawe bakayakuraho.

Harakeye utuntu twiza cyane turi hasi tw'utugarurarumuri, hirya hari indabyo zihateretse ubona ko zihatatse ikiraro kirimo inzoga, intebe yo kwicaraho, umutaka uri hejuru, aho kwishyurarira ukoresheje ikoranabuhanga ndetse n'inzoga zihamanitse, akaguhuha neza ukumva akayaga karaje igihe ushyushye, aha hantu ni heza nawe nk'uko ubibona, ntabwo njye nabasha kuvuga ibyiza birimo byinshi wowe wabyibonera nawe.

Ni byiza kugira urutonde rw'ibintu runaka ukenera, n'ibyo usohora cyangwa ibyo winjiza rero nawe birafasha cyane. Urugero niba uranguye amacupa ugahita uyandika niba uranguye inzoga runaka ugahita uzandika, cyane cyane nk'abantu bakora imishinga yo gucuruza.

Ikirere kiza kiganjemo ibicu byinshi, ibiti bitanga akayaga, munsi hari inzu, imbere yaho ahantu binjirira hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, igare riri mu kayira k'abanyamaguru, ruguru hari imodoka ubonako hari n'umusore uhetse igikapu uri gutambuka ufite ahantu agiye.

Kubera uburinganire bwaje mu gihugu nta muntu ugisuzugura akazi. Nk'uko ubibona umwari wambaye umwenda, ishati y'umweru, ndetse n'imisatsi myiza cyane ari kwaka ibyo atumwe n'abakiliya, ndetse hari amacupa abiri aparitse imbere ye hakurya hari andi ahaparitse arimo inzoga.

Mbere byaragoranaga kubona amakuru runaka ariko ubungubu ushobora gufata camera ya telefone yawe ugatungaho hano ukabona ibyihishemo ndetse ugasobanukirwa iyaba ibitabo ndetse n'ibindi cyangwa se ntabwo ari byo gusa kuko ugakoresha uburyo bwo kwishyura ubikoze uko nguko mbivuze.

Ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi cyane ukaba ushobora kwishyura uryifashishije, aha rero ubona haba hakubiyemo amakuru menshi watungaho kamera ya telefone yawe rigahita ibikwereka ibintu birimo, ibi rero byifashishwa nko kwishyura, cyangwa gushaka ikintu runaka ubona udafitiye ubusobanuro, wahita ukibona rwose.

Hari ahantu ushobora kubika inzoga nyinshi cyane ndetse ukabika nyinshi nko hirya hari amakarito, hejuru hari ibinyobwa bitandukanye birimo; fanta, amazi, ji ndetse nibindi byinshi bitandukanye nawe rero wahaza ukinkwera kuko nacyo wahabura.

Ni byiza ko ahantu hose ugiye ujya wajya uhasanga ibintu byerekana ibyo bafite ndetse n'ibiciro biriho, kuko birafasha cyane hari igihe uhagera ugasanga uwo wagahamagaye ari kwakira abandi ukabura ukuntu ubimwaka. Rero iyo ubihasanze nawe ubireba neza ukabona ko urutonde rwaho ruri ku murongo.

Ni heza cyane harakeye harimo amatara meza urabona ko wareba ntakibazo. Inzoga iteretse ahongaho ku meza, ibirahure bindi, harimo ibyo kunywa nka wisiki, ndetse wanduye, wareba hakurya hari amacupa menshi, aha nawe rero waza ukahasohokera, nk'uko ubona uno musore wambaye ikote yari yaje.

Harakeye cyane ni byiza kuhasohokera nk'uko ubibona, ahantu wirebera neza cyane, mudasobwa imbere n'aho batangira inyemezabwinshyu, hirya gato haba harimo ibinyobwa bikonje ndetse haba harimo n'ibidakonje, nawe wahaza rero ukahazana umukunzi wawe, nk'uko ubibona ni heza.

Umusore mwiza urabona ko afite agasatsi gasokoje, wambaye ishati, afite hamwe igikombe ari gusuka, ndetse hirya hari icupa bigaragara ko ari kuvanga, inzoga runaka, inyuma ye hari ahantu ubona ko haka amabara y'icyatsi, hirya gato hari undi mugabo ubona ko nawe yaje gushaka iryo kwinywera.

Ikirere ubona ko kirimo ubururu bucyeya, igicu cy'umweru. Hanze har'ibiti byiza cyane, ubona ko bicyeye bitanga akayaga, hariho ikirango cy'inzoga nk'uko ubibona nyine. Ibi biranga rero ahantu ushobora kugenda ukinywera kamwe cyangwa se ugafata ako ushoboye.

Akabari keza ubona ko gakeye karimo amabara atandukanye ubururu, umutuku, harimo abantu benshi ubona ko baje kwinywera, urabona ko hateretsemo ibirahure byiza cyane, noneho bagiramo ibintu bitandukanye, ibyo kunywa birimo inyama, inkoko, imiceri cyangwa se ibindi bintu, indetse n'inzoga izisembuye ndetse n'izidasembuye.

Ni byiza gukoresha ikirango kiranga ibyo ukora kiriya ubona kiri mu mabara y'umutuku, umweru hariho inzoga iri kubirira mu kirahuri n'indi iri mu icupa. Munsi yaho bisa n'aho hari iduka rcuruza imyenda harimo imipira, inkweto amapantaro ndetse n'ibindi, nawe rero wabyikorera ku giti cyawe.

Ahantu heza cyane ubona ko hakeye hariho aho gutereka hari n'utundi bikuzamo utuntu mu menyo, hakurya hari amayoga menshi ubona ko hateretse ameza cyane yo mu bwoko butandukanye, ntabwo wabura iyo unywa nawe urabona ko wasohokana n'umukunzi wawe hari n'icyo barikaniraho umupira ubona ko nyine ibintu bisa neza.

Ikirango cyiza cyane urabona ko kiri mu mabara ry'icyatsi, inzoga ya virunga iri mu ikirahure ndetse n'abantu bari kubyina urabona ko bishimye, hari umwana uri gusomaho yaryohewe, hakurya gato urabona ko hari imirimo yo kubaka hashinze ipoto, inyuma yaho urabona ko hari ahantu akayira k'abanyamaguru kari batambukamo, iki rero kiranga ahantu wanyura ugafata icyo kunywa.

Umupapa ubona ko asa n'ukuze wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku ipantalo nziza cyane afite ikayi arimo arareba ibyanditsemo hakurya ye hari andi menshi cyane ubonako yicaye ku ntebe y'umukara hirya gato hari ikirango kiriho ibitunguru cyangwa se izindi mbuto.

Akazu keza cyane ubona ko hakeye ubona ko haka amatara meza cyane, hakurya hari ibikonjesha inzoga, aha rero ni ahantu heza watemberanira n'umukunzi wawe, mukaza mukishima mukaka ibintu birimo fanta ku bazishoboye, ndetse n'ibisembuye birimo inzoga zitandukanye. Zirahari rero ngwino.

Biryoheye ijisho rero kuba wareba nawe inzu nziza cyane iteyeho ibara ry' umuhondo, hari ibyuma bitambitse hakurya hari icyapa kiranga ahantu bacuruza ibinyobwa bitandukanye, wareba ukambuka hakurya hari ibiti byiza cyane biryoheye ijisho kubireba nawe uhahagaze wabyirebera ntakibazo.

Intebe nziza cyane, ni byiza ko nawe wakwitangirira umushinga ugashyiramo ibintu biba bisa neza kuko, bituma abantu bakugana nkuko ubibona harimo udutara twaka buhoro tutamena abantu amaso, hakurya hari abantu benshi bari kwinywera agasembuye cyangwa fata hari n'ubakira abahereza ibyo bakeneye.

Ahantu heza cyane ubona ko hakeye haryoshye gusohokera, ni ibirango byiza cyane biri hejuru, ubona ko biri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, hasi urahabona intebe nziza cyane zikeye, nk'uko ubibona bisa nkaho harimo umuntu uri kwakira abantu, ahari inzoga ibyo kunywa birimo fanta, ndetse n'ibindi.

Umusore mwiza cyane wa, mbaye ishati y'umukara ubona ko ateruye amacupa abiri ari gusuka, ahandi hari indimo hasi hari igikombe kihubitse, hagati hari utucupa urebeye inyuma ye, hari ayandi mayoga menshi bari gukora, ndetse banacuruza, hano rero ntabwo ari ibyo gusa wasangamo, harimo ibisembuye n'ibidasembuye, amazi, fanta, ndetse n'ibindi.

Hari inganda zisigaye zitunganya amata zikayashyira mu byansi bifite ingano itandukanye bitewe n'ubushobozi umuntu afite haba kitiro imwe, haba litiro eshanu, haba litiro eshatu ukayagura bikurikije n'ubushobozi ufite ukayajyana mu rugo wowe n'umuryango wawe mugasangira.

Urabona ko abantu benshi bizihiwe harimo umwari useka neza, amacupa menshi imbere yabo, ahantu hashashe akabara k'umutuku udutara twaka twiza cyane ndetse n'utundi tuzimije, inyuma yabo hari ibintu birimo abantu batatu, bambaye amakote meza cyane. Nawe rero hano hantu uhaje wajya wishima ukumva uranyuzwe.

Intebe ni nziza cyane, indabyo n'amabara meza cyane . Hakurya urabona ko hari abantu baje kwinywera, abashoboye. Uri kubona ko harimo mabara y'umutuku harimo uwakira ndetse n'abandi bafite ibyo baje kureba. Rero nawe nakugira inama yo kuhasohokana umukunzi wawe; akajya aza akinywera.

Ahantu hasa neza cyane ubona ko hari amatara atakwica umuntu amaso wakubita amaso hakurya hari intebe nziza cyane zikeye zo kwicaraho ndende ndetse n'ahantu hari ibice bitatu bimanitsemo amayoga atandukanye yo m'ubwoko bwose uhaje ntago wabura icyo unywa hirya gato hari ikindi gicanyemo amatara hariya bahashyira ibintu bikonje.

Umwari mwiza cyane ubona ko aseka neza, inyuma ye hari igiteretse bashyiramo amacupa igihe yshizemo inzoga, urabona ko ateruye irindi ry'icyatsi, wareba hakurya hari umugabo wambaye ishati nziza cyane y'umweru, ariko urabona ko asa nawe yaje kwinywera akantu runaka, harimo agafanta, amazi cyangwa.

Intebe nziza cyane nk'uko uzibona ndetse n'ameza afite amaguru y'ibyuma, abantu ubona ko bambaye ingofero ndetse banizihiwe, hejuru hari ikirango cyerekana izina ryaho uri, ndetse wakubita amaso hakurya hari ahantu hari kwaka udutara ubona ko hakeye nawe waza ukinywera agafanta cyangwa ibindi bintu ushaka.

Ikirango kiza cyane, kirimo amabara atandukanye, umutuku, icyatsi, ubonako hari abari ndetse n'abasore bari kubyina babyishimiye, imbere yabo hari icupa, wakubita akajisho hasi ho gatoya hari ibara ry'umuhondo, giteye mu biti byiza cyane, urabona ko bitanga akayaga, inyuma hari agahanda k'amabuye ndetse n'inzu itari yuzura.

Ikirango cyiza cyane kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, icupa ry'inzoga riri mu kirahure, inyuma yaho hari imodoka iri munsi y'ibiti, imbere n'aho hari indi na none y'umukara, wakubita ijisho hakuno hari umumotari usa nkaho atwaye mugenzi ku kazi nyine amujyanye ndetse akayira k'abanyamaguru kari hagati yabyo byombi.

Hano harasa neza, urabona ko hashashe utubuye tutatuma uhura n'icyondo. Hakurya hari utwatsi ubona ko duteye hirya. iyo ureba hari umuntu uri kwakira undi wari uje kwaka icyo kunywa. Agatebe ko kwicaraho keza cyane. Rero nawe nakugira inama yo kuhaza ukahaza n'umukunzi wawe.

Ikirango cyiza cyane urabona ko kiri mu mabara y'icyatsi, amagambo ni umutuku hejuru ndetse hasi urabona umwari uri gusoma ku kayoga n'abandi bantu bari kubyina benshi ubona ko bishimiye ibyo barimo, hirya hari ahantu hari ibiti ubona ko bikeye cyane bituma hagaragara neza.

Ni hezaurabona ko hakeye ntacyo hatwaye televiziyo yerekana amashusho arimo imipira, indirimbo ndetse n'ibindi, hasi urabona ko hari inzoga nyinshi ziri mu bwoko butandukanye ndetse n'amazi waza ukinywera nta kibazo.

Ahantu heza cyane ubona ko hakeye mu mabara meza y'icyatsi icyo bareberaho umupira cyangwa indirimbo runaka biterwa n'ibyo wishimira hirya hari amabara y'ubururu ariko ahongaho hagati ahongaho harimo amacupa menshi cyane harimo inzoga nawe waza ukinywera.

N'kuko ubibona habereye ijishi harakeye cyane ndetse ntakintu kitarimo hari umusore wambaye ishati ndetse n'undi wambaye umupira ubona ko bicaye ku dutebe twiza cyane bari kureba ikintu bareberaho umupira, indirimbo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu heza cyane ubona ko hari akantu kameze nk'indobo karimo amacupa ane y'inzoga hirya gato hari ikirahure ubona ko kirimo indi iri kubira hakurya hari icyo berekaniraho imipira cyangwa indirimbo. Nawe rero waza urabona ko hasa neza hari udutara dukeye.

Icupa ryiza ryo mu bwoko bwa Virunga ubonako ririho ikirango cy'imisozi n'ibibaya, rikorerwa mu Rwanda hirya ho gato hari ikirahure inzoga iri kubira ibi ni ibintu abantu bose banywa bakumva bamerewe neza nibahure n'ikibazo runaka cyangwa ngo bagire icyaka.

Intebe ubona ko ziri ahantu hakeye z'imikara, ziri ahantu higanje mu tubara tw'umweru wareba hirya, hari amatara ari kwaka meza cyane ubona ko akeye hirya hari ibirahure, rero nabwo iyo urebye hanze, akamuri kaza ukaba wakora ibyo ushaka ntakibazo habona.

Ahantu heza ubonako hitegeye igihugu cyose wagira amazu meza hari ibiti ubonana ko bitanga akayaga munsi uhabona ibirango byinshi cyane biriho amacupa, ndetse n'amagambo yanditseho n'inzu ubona ko isize ibara ry'umuhondo nawe wajya uhaza ukareba.

Intoki nziza ubona ko ntaho zahuriye n'amavuta mabi, amafoke cyangwa ibintu byo kurisha imbere ye, ibirahure wifashisha igihe uri kunywa ikinyobwa runaka birimo fanta, inzoga cyangwa se ibyo wakenera byose rero nkuko ububona harakeye nawe nakugira inama yo kujya utegure iwawe gutya.

Ikirango Kiza cyane cyo mu mabara y'umutuku amagambo yandikishe umweru ubona ko hariho amasani y'ibiryo, inkoko ndetse n'ibindi bareba hasi, hari umugenzi uri kwitambukira, igare riparitse ahantu abona ko hashashe n'amabuye nta cyodo wahura na cyo ariko witegereje hakurya hari ahantu hari icyapa kitemerera abantu kuhashyira ibinyabiziga.

Kwishyura ukoreresheje ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi, byabujije abantu kujya bakanda imibare, rimwe na rimwe terefone zabo ugasanga zangiritse hari ibice bidakora ariko ubungubu, utungaho kamera yawe ku kintu runaka igashaka amakuru akubiyemo yaba ari ayo kwishyura cyangwa ari ibindi bintu runaka igahita iyakwereka nawe ukaba wakwikorera ibindi bitandukanye wifashishije ibyo ngibyo wakose.

Ikirango kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, inzoga y'ikirahure iri kubira ndetse n'indi iri mu icupa ry'icyatsi, imbere y'aho hari imodoka, uhita inyuma yaho gatoya hari ibiti byiza cyane; urabona ko bitanga akayaga. Ibi rero biranga ko hano hafi, hari ahantu wajya ugafata agasembuye cyangwa fanta.

Ahantu heza cyane urabonako hakeye harimo amabara y'umukara n'umweru wareba hirya hari udutebe twiza cyane ndetse na mudasobwa, hakurya hari ahantu noneho hacanye ubona ko hagaragara hicayemo abantu ubona ko baje kwinywera nabo kubwabo.

Ikirango kiza kiranga ahantu wagenda kwifatira agasembuye cyangwa akadasembuye. Inyuma yaho urabona ko hari amamodoka menshi, ndetse n'amaduka acuruza ibintu bitandukanye. Wareba imbere hari umwari uri gutambuka bisi nk'aho ari ahantu hari ku nzira, hirya hari ibiti ubonako hari n'ikirere gisa neza.

Akabari keza cyane ubonako gakeye karimo intebe nziza, amatara meza yaka hari ibice bibiri bimwe birimo inzoga ndetse n'ibindi birimo aho bakonjeshereza wareba hirya hari umuntu uhari wakira abantu. Hano haba harimo ibintu bitandukanye inzoga, amazi, fanta ndetse n'ibindi nawe wahasohokanira n'umusheri wawe mukaza mukinywera ntakibazo.

Ni byiza ko nawe niba ufite umushinga runaka wajya ugira inyemeza bwishu kuko irafasha ituma igihugu cyacu gitera imbere ndetse kikubakira n'amashuri, amavuriro n'ibindi nk'uko ubibona iyi nayo niyo igaragaza ibyaguzwe n'ibyagurishijwe.

Ahantu heza cyane ubona ko hakeye, amatara meza ari hejuru ubona ko yaka akerekana urumuri ruhagije, ibikonjesha, birimo ako andi y'umweru wareba hirya hari umuntu uri gukoresha mudasobwa ndetse n'abari hakurya bari kunywera ibyo baje kugura.

Ni byiza ko nawe wagira ahantu hakeye bituma abantu baza, nk'uko ubibona aya meza ari mu ibara ry'umutuku, hariho ibirango by'inzoga bacuruza ndetse bamwe bari no kuzinywa, hari amacupa menshi ku meza, abasore babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye urimo uturonko tw'umweru n'umukara urabona ko nyine ari ibintu bishimishije.

Ubu ni uburyo bwiza rero ushobora kwishyura cyangwa ugasaba amakuru atandukanye yihishe muri icyi, aho nawe ushobora gutungaho kamera ya terefone yawe ugahita winjiramo udatinze utiriwe ukandagura ibintu byinshi cyane nanone nakugira inama yo kuyifashisha si ibyo gusa kuko ushobora no kuyikoresha wishyura ahantu runaka.

Kuza ahantu hakeye, haza abantu benshi ni byiza cyane kuko birafasha buri muntu aba ari muri gahunda ziwe, ntawe uba ukwitayeho ndetse uraza ugakora ibyo ukora ugataha nkuko ubibona hano ni benshi ibintu biteretse ku meza birimo amayoga y'ubwoko bwose bicaye kuntebe nziza gusa ndikureba neza hari umwari wambaye ikote rirya gusa umweru nawe ubona ko yishimiye ahantu yaje.

Nshoboraga kuza kugura amata yizewe kandi afite isuku nahanga no kwibona muri ibi birango biri mu mabare yu bururu n'utubido tw'umweru amajerekani hejuru ndetse n'amandazi amazi ya nili urabona ko akeye, nk'uko tubivuga aradufasha cyane haba koga kuyateka cyangwa n'ibindi.

Imigati ni myiza ku babyeyi n'abantu ndetse muri rusange irafasha cyane, ituma umwana akura neza, irimo intungabiri zitandukanye. Ni byiza kuyifata mu gitondo ndetse na nimugoroba, ibyo rero bituma ujya ku kazi umeze neza ukumva ufite imbaraga nta kibazo.

Umwari mwiza ubona ko yambaye ikote ry'ubururu ufite amafaranga mu ntoki bisa nk'aho ari kwishyuza uyu muntu kurusha kugura ibintu runaka, hano rero ku meza hateretse ikawa ikorerwa mu Rwanda inyuma ye hamanitse amazi, ji, fanta, ndetse n'ibindi byinshi.

Mber byavunaga abantu gutunga amata igihe kinini kuko wasangaga bayabika mu majerekani cyangwa mu mabido agapfa, rero nk'uko ubibona ibyuma byaraje birabikemura abasore babiri rero bari kuvoma amata hasi hari indobo kugira ngo atangirika hirya gatoya ubona ko hari amazi menshi bacuruza ndetse na ji.

Harakeye cyane, amakaro meza ubona ko haciye ho urusinga tutazi aho rujya, umusore umaze kunywera amata yiwe, ku ntebe z'umweru ari ho ahagurutse ndetse n'izindi z'ubururu zihari ziteregereje kwicarwaho n'abandi, agiye kwishyura ibyo amaze kunywa, hakura hari teremusi munsi yaho harimo amandazi, keke, ndeste n'ibindi, nawe waza rero ukigurira.

imwana ubonako yatumwe niwabo kuzana amata ijerekani imuri imbere, n'undi muntu uri kuyamusukira mu ijage. ubona ko atarayuzuza akoreshaje indobo y'umutuku, ahari hashashe amakaro meza cyane. Bisa naho hari undi uhagaaze ku muryango, gusa ni amufoto abiri aciyemo kabiri. hirya hari ibiti ndetse n'umurima bisa naho bahingamo ibiribwa runaka, ibishyimbo ibigori, amasaka n'ibindi.

Umwari mwiza ubona ko afite amafaranga mu ntoki ari kugarurira umuntu ndetse n'undi ari kwishyura imbere ye hateretse ibikarito birimo ikawa ikorerwa mu Rwanda, inyuma ye harimo ibintu bitandukanye bacuruza harimo amata, fanta, ji ndetse n'ibindi n'amazi y'inyange.

Amandazi ni meza cyane, atuma abantu bamera neza bakagira imbaraga mu gitondo gihe bayanywesheje amata, icyayi cyangwa igikoma, nawe nakugira inama yo kujya ubikora igihe ugiye kujya ku kazi, atekwa wifashishijwe, ifarini, amagi, isukari ndetse n'imisemburo.

Umwari mwiza urabona ko afite agasatsi gacye n'umupira w'umukara rwose. Ibikombe bitatu byuzuye amata ariko kimwe ni cyo akiri gusuka, ari mu njerekani. Hirya gatoya hari ijage na yo irimo andi; urabona ko byamushimishije cyane. Ni meza rero arafasha ku bana batandukanye, aho abafasha kugukura neza cyane batadindiye.

Capati ni nziza cyane ku bana yaba ndetse n'abantu bakuru, muri kubibona ziri ku isahani ziracyeye ndetse zitetse neza hifashishwa ifarini, amavuta ukayitekera ku ipanu. Amakara, gaze ni ibyongibyo ubundi uba ukeneye kugirango nawe ubyikorere.

Nibyiza ko nawe wajya ubyuka wifatira amata nkuko ubibona hano Hari itasi arimo kwinywera ndetse hirya gatoya hari ibiyiko ndetse n'amakanya arimo arafata keke ubunako yariye n'irindazi ubonako yarishonnyeho. Hirya hari uwambaye imyenda y'imuhondo nawe wakira aba bantu akabibazanira.

Amazi ni ingenzi mubuzima wacu bwa buri munsi aho noneho ibyuma bihatunganya bikanabika igihe kinini byaje bikemura ibibazo byacu twari dufite yuko twayamaranaga igihe agahita apfa nkuko ubibona rero iki ni cyo kiri mumabara y'ubururu ndetse n'umweru hakurya bacuruza n'amazi ndetse n'ibindi byiciro bitandukanye waza ukigurira.

Indobo nziza cyane ubona ko isa nkipfunduye icyeye irimo agasuku irimo keke zimeze neza cyane ariko ziryoshye urabona ko zimwe zisataguye rero nakugira inama yuko nawe wazikorera zikozwe mu mata, isukari, amajyi ndetse n'ibindi ziraryoha cyane wazifashisha mu gitondo igihe urikunywa ka cyayi ukazirenzaho.

Ahantu heza ubona ko hakeye, harimo intebe z'amabara atandukanye z'ubururu ndetse n'umweru. Reba hirya gatoya hari umwari uri guseka, ubonako yashimishijwe no kwakira abantu. Hari umudamu uri kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, imbere ye hari utwo kwihanaguza igihe wanduye. hano rero bacuruza fanta ndetse n'amata.

Akavido keza cyane kifashishwa mu kubikamo amata ubona ko gapfundikiye nta mwanda wagwamo, hariho igipapuro kiranga amagambo yanditseho ndetse ubona ko ari umuntu wari aje guhaha, akayatwaramo ngo ayashyire abana be.

mubyeyi ni byiza gusohokana umwana wewe nkuko ubibona abana bari kwinywera amata bombi bafite keke mu ntoki amasahani imbere yabo abiri n'utubido hari uri kubakira ababaza niba harii ibindi bari bukenere akareba ko babishobora.

Uwo ni umwari mwiza wambaye ikote ry'umukara akajipo karimo ibara ry'umweru arikumwe nundi muntu wambaye umupira w'ubururu hirya gatoya hari icyuma gitunganya amata ubonako kiyamarana igihe kugirango abe ameza neza buri umuntu wese igihe ayacyeneye yaza kuyatora.

Umubyeyi mwiza cyane ubona ko yambaye ingofero ndetse n'ikanzu irimo utuntu tw'ubururu n'umweru ari guterura akabido karimo amata agiye kuyasukira abantu bari baje bamugana kugira ngo babashe kuba bayanywa ndetse nawe rero ushobora kuhagera ukayagura .

Amata ni meza afasha abana gukura neza bakagira intungamubiri ntihagire indwara bahura nazo. Nawe mu byeyi nkuko uyabona aroimu dukarito afunze aba aryohereye cyane nakugira inama yo kujya uyamuha buri mu gitondo cyangwa buri saa sita bitewe n'ubushobozi bwawe.

Ni byiza ko ubaye ufite ubushobozi washyira ahantu ucururiza amata cyangwa ibindi bintu runaka ibyuma bizana akayaga, kuko hari igihe umuntu anywa ibintu bishyushye ugasanga arashyuhiranye, rero nk'uko ubibona hano hari amakaro meza cyane, n'iyo ubona nibyo ako kazi bishinzwe.

Amata n'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane iyo afata mu mugitondo birafasha cyane, ukura neza cyangwa se ukarenzaho akarindadazi, capati ,keke, cyangwa n'ibindi nyine urabyibuha ngo nta ndwara uhura nazo noneho nk'iyo ari ku mwana biba ari akarusho akora neza urabona iki gikombe kiruzuye umuntu agiye kukinywa

Amagi ni ingenzi mu buzima bw'abantu runaka, ariko nanone afasha ibintu bitandukanye nta ndwara ujya uhura na zo ndetse n'ibindi byinshi, uyateka wifashishije amazi, amakara ukayatogosa cyangwa se ukayatekamo umureti bitewe n'ukuntu ubishaka, cyanecyane bakunda kuwuteka iyo bagiye kuyarisha mu gitondo ibindi bintu.

Harakeye cyane urabona ko hashashe amabuye ntaho wahurira n'ibyondo, intebe nziza cyane zo mu mabara y'ubururu, imeza y'umweru hirya hari umutaka usa umutuku, wakubita akajisho hakurya hari ahantu bacuruza amata y'INYANGE ndetse hino gatoya hari indobo iri ku muryango bakarabiramo mu imbere bacuruza naho amata, keke ndetse n'ibindi bintu.

Harakeye cyane amakaro meza ateye hasi ndetse no kugikuta ubonako akoropye gusa asa naho akuzemo ukuntu, icyuma gitunganya amata aha rero nawe wahaza uje kuyagura cyangwa uje kuhagura ikintu runaka gusa sibyo baba bagiramo gusa hari n'ibindi byinshi.

Ahantu heza ubona ko wahahira nawe ibintu bifite isuku harimo amata, jus, fanta ndetse nibindi byinshi nkuko ubibona hari umusore mwiza cyane ndetse nundi ufite akabido ari kumuhereza ibintu yaraje kwaka ngo abicyure mu rugo abihe abana.

Amandazi ni meza cyane nkuko ubibona arakeye ari ku isahani nziza cyane ifite isuku, akorwa hifashishijwe ifarini, isukari ndetse n'amavuta ariko ugateka wifashishije amakara cyangwa gazi.

Amata ni meza atuma umwana akura neza agira intungamubiri zihagije, ndetse ntakibazo ahura nacyo nk'indwara zitandukanye za bwaki cyangwa ibindi. Rero nk'uko uri kureba hano bisa nk'aho bayacuruza ari ibirango byerekana ko hari amata y'inyanza

Umubyeyi asohokanye n'umwana we w'umusore wambaye ingofero urabona ko bishimiye kuza kwaka amata igikombe hari undi musore useka neza wabakiriye ubona ko yishimye, yihangiriye imirimo rero urabona ko ku meza hashashe ibintu niyo yamenekaho ntago yahanduza.

Amata ni ingenzi afasha abana batandukanye, hari igihe agira ibyago mama we akitaba Imana akimubyara, bifashisha amata kuko akura neza cyane, ntadindira nta ndwara ahura nazo, ndetse nta n'ibindi byinshi bimwataka igihe akiri mutoya.

Mbere abantu banyweraga mu bicuba ariko ubu ngubu ntabwo bikiriho umuti banywera mu bikombe nkuko ubibona bimanitse hejuru, inyuma yaho hashushanyije inka ndetse hateye amarangi y'ubururu, Munsi gatoya hari mvirope irimo ibintu ndetse n'amazi menshi yo kunywa.

Umwari mwiza cyane urabona ko afite umusatsi utunganyije, imiringa ku matwi, urabona ko yambaye ikintu kimurinda imiho, asa n'uwashyize amaboko ku meza afite ibindi ari kureba, ari ahantu hashashe amakaro y'umweru meza cyane, bisa naho bacuruza amata, amazi ndetse na fanta cyangwa n'ibindi bintu runaka waza ugashaka bakabiguha.

Ahantu heza nawe ushobora kugura ibintu runaka ukabyishimira ukumva uraryohewe birimo amata ndeste n'ibindi byinshi nkuko ubibona hasi hari ibyiciro byambere biri m'utubara dutandukanye tw'ubururu hariho n'ibirango biriho abantu ubonako bishimiye kuyanywa.

Cyera byaragoranaga ariko ubungubu byaroroshye mbere wabikaga amata mu njerekani cyangwa se mu tubido runaka, wayamarana igihe akagupfana ugasanga urahombye, ntuyanyoye ntunayacuruje. Ariko ubungubu haje ibyuma biyatunganya nkuko ubibona hano; kiri ku makaro meza acyeye, biyamarana igihe ugasanga nawe igihe cyose umuntu ayakeneye arayabona.

Amata ni meza afasha ibintu byinsi, atuma umwana akura neza, atuma nta nzara ugira igihe utafashe mu gitondo, umwana yayapfunyika mu gihe agiye ku ishuri. Nk'uko ubibona rero na bano bagabo baje kwigurira ngo barebe ko baryoherwa n'ubuzima, nawe rero niba wumva icyaka uyanywe.

Ibyo kunywa ni byiza ni ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu harimo nka ji z'inyange kuko hano babicuruza fanta ndetse n'amazi, rero amazi agufasha kuyungururira impyiko ukumva ameze neza akagukiza umutwe ndetse n'ibindi byinshi.

Ikirango kiza cyane kiri mu mabara y'umweru, amagambo yandikishije ubururu ndetse n'icyati ubona ko hasi hashushanyije inka, umwana uteruye igikombe cya mata mwiza cyane ubona ko yakuze kubera kujya neza ndetse no gutungwa neza n'ibinu bitandukanye, umubyeyi aba yamufashe neza cyane.

Umusore mwiza ubona ko afite igikombe yashyize ku munwa kirimo amata, ndetse n'undi bari kumwe agifite mu ntoki, hakurya uri kuhabona abagabo babiri aba ariko kuyanywa hirya gato hari umucuruzi na we ubakira, ubona ko nawe ushobora kuza ukinywera. Gusa amatara arabyibushya, atuma umuntu akura neza ntagire indwara ahura na zo.

Amata n'ingenzi mu buzima bwacu, umwana uyanyweye akura neza, ntakibazo ahura nacyo nk'indwara ndetse n'ibindi ushobora kujya uyamuha mu gitondo akayanywesha irindazi, keke n'ibindi nk'uko ubibona iki gikombe kituzuye neza giteretse ku meza y'umweru ndetse n'isahane nacyo wajya ukimuha mu gitondo.

Umusaza mwiza ubona ko asa nk'ukuze, ari kumwe n'umusore ufite akadobo, wambaye umupira w'icyatsi, isaha ku kaboko. Hirya gatoya hari imigati n'amandazi ndetse na keke. Hejuru hari amajerekani ahamanitse. Bisa n'aho hano bacuruza amata cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Wabaza nawe ukigurira.

Amata ni ingenzi mu buzima bw'abantu nk'uko ubibona uyu mwari rwose wambaye umupira w'umweru yishimiye kuyatanga, uyu ufite agakarito mu ntoki na we urabona yasetse, ameze neza mu gapira k'umukara k'iwe, yishimiye kuyagura, atuma abana bakura neza, nta ndwara bahura na zo igihe bari gukura. Rero hano barayacuruza nawe wajya uza ukigurira.

Umukobwa mwiza cyane urabona ko ari ahantu hashashe amakaro, igikapu ku meza ndetse n'akabido, ikayi, intebe inyuma ye hari igare ndetse urabona ko hasa neza cyane, aha ni ahantu rero ushobora kuza nawe ukigurira amata, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Asambusa ni meza afasha abantu benshi n'ayangaya arakeye atetse neza raryoshye ntanutagira ifemba ryo kuyarya rero akoresheje ifarini, amavuta, ndetse n'ibindi byinshi ugashyiramo ibiraha cyangwa inyama ariko ukoresha n'amakara cyangwa gaze.

Amandazi ni meza cyane arafasha ku bantu bakunda kuyarya mu gitondo bayanywesheje icyayi cyangwa ikindi kintu. Nkuko ubibona ni meza arakeye kandi arahiye atekwa wifashishije amavuta, isukari, ifarini ndetse n'amagi iyo bibaye akarusho uyashyiramo.

Igihe ujya ahantu runaka, warya ibiryo cyangwa ibindi bintu bikagusigara mu menyo ukabura ukuntu ubikuramo kandi hari utuntu twabugenewe, utu ni uduti rero tugufasha kubikora byose ukayahanagura neza ntihagire ibintu bisigara mo, nk'uko ubibona duteretse kumeza turi mu gakombe ubona ko gafite isuku.

Abasore beza cyane ubona ko na bo baje kwinywera amata, amajage abiri, imwe iruzuye, indi iracagase, ameza ashasheho utuntu tutabanduza ndetse umwe urabona ko yenda no kuyamara, ibi ni ibintu rero bifasha buri muntu wese ushobora kuyakoresha mu gitondo igihe abyutse cyangwa agiye mu kazi.

Umwari ubona ko yambaye ingofero, umupira w'ubururu, afite ijage arimo arasukamo amata yifashishije ikintu kiyarinda kumeneka mu kavido cyangwa kumpande runaka. Hirya hari ahantu hari indobo yindi isa icyatsi na yo nk'uko ubibona, ntakibazo nawe waza ukicururiza cyangwa ukagura amata.

Amata ni meza ku bagore batwite ndetse n'amazi nkuko ubibona, hirya gatoya hari amajerereka meza cyane, hari igikonjesha kirimo amata, hejuru ndetse ijage, igikombe, amazi ndetse n'ibindi. Inyuma yaho hari ikikuta cyubakishije amabuye ubona ko akeye, nawe rero aha hantu ushobora kuhaza ukahanywera, kuko hagaragara neza hafite isuku.

Ibyuma bitunganya amata bikayamarana igihe kinini byafshije abantu benshi cyane kuko hari igihe yabapfanaga nk'igihe bayafite munzu, ariko ubungubu nk'uko ubizi ushobora kugenda igihe cyose wajya kuyagura ukayabona. Afasha abana gukura neza nk'iyo bacutse bavuye ku ibere. Rero uyu musore ari kugisukamo andi ngo ayo ashyizemo ayasimbuze andi.

ahari amakaro meza cyane akeye, imiryango y'ubururu iriho ibirango by'amata, hirya gato harire indobo yo gukarabiramo, ameza arimo imbere ndetse n'amafanta, amata n'ibindi byinshi bitandukanye wahasanga.

Ni byiza ko nawe wajya ugirara isuku, mu bintu ubikamo amata cyangwa ibindi bintu runaka nk'uko ubibona kano kabido karapfundikiye, kariho agapapuro kanditsehomo amagambo atandukanye, nta kintu cyagwamo urabona ko gakeye wagatwaramo ibintu bitandukanye ntihagire uguseka.

Utubido twiza cyane ubona ko dukeye twose turapfundikiye uretse kamwe dusa umweru twanditseho amagambo akandi gasa umuhondo ubona ko ntamagambo ariho, utu rero twifashishwa mu kubika amata cyangwa mu kuyaha abantu igihe bayakeneye ntacyo kuyatwaramo bafite.

Ni ahantu heza cyane ubona ko hapanze utuntu dukeye turimo amasahane, ku murongo hejuru gatoya hari uturimo amandazi ndeste na keke. Ni byiza ko nawe rero wajya uyigurira birafasha cyane, wareba hejuru ho gatoya hari aho babika ibyayi ndetse n'amacapati, imbere hari aho bakonjeshereza ibyo kunywa.

Umwari mwiza cyane uri kumwe n'abasore babiri bombi babona ko bari kwamamaza amata, bambaye imyambaro y'umutuku, undi yambaye umukara uri hagati, ni ibintu bibereye ijisho rwose, inyuma yaho bisa n'aho hari ahantu hacururizwa ibindi bintu byinshi cyane birimo ji, fanta, amazi n'ibindi.

Capati ni nziza cyane nk'uko uzibona, ni umuntu uri kuzirya. Ariko, biba byiza cyane noneho iyo uzinywesheje amata, kuko urabyubaha . Ziba zikozwe mu ifarini, zitekeshejwe amavuta ariko macyeya cyane, hakoreshwa ipanu, amakara ndetse n'ibindi.

Amasambusa ni meza kuko arafasha akorwa hifashishijwe ifarini amavuta agatekwa bifashishije amakara cyangwa gaze biterwa n'icyo ukeneye, ni byiza ko nawe wajya uyifata mu gitondo ukayirenza ku mata, icyayi cyangwa ibindi bintu bituma ugenda mu kazi wumva umeze neza.

Ni byiza iyo ufite ahantu abantu baza kurira, ko wajya ugira udutambaro two kwihanaguza ku munwa, kugira ngo basohoke ntabiryo bibariho cyangwa amavuta cyangwa se indi myanda ruanaka. Nawe rero niba ufite iyo gahunda, nakugira inama yuko ibi bitazabura ahantu ukorera.

Umubyeyi mwiza cyane, witandiye agatambaro k'icyatsi, ndeste ateruye ijage, urabona ko irimo amata yuzuye, hirya gato hari indobo ipfundikiye, inyuma yaho hari intebe nziza cyane, ijage pfunduye ndtese n'umufuniko wayo, biteretse ku ruhande, hakurya gato hari icyuma cy'amata, kiyatunganya.

Amasambusa ni meza cyane kuko afasha abantu benshi ahakoze mu inyama ndetse n'ibirayi, ni byiza rero ko nawe ugiye uyariye cyangwa ukayafata mu igitondo ukayafatisha ikintu runaka s'ibyo gusa ahubwo ushobora kuyarya saa sita cyangwa ni mugoroba.

Umwari ubona ko yishimiye kugarurira umuntu utwaye ikawa ikorerwa mu Rwanda, ndetse inyumaye hari inebe nziza z'ubururu, wakubita akajisho hirya hari ahanu hamanitse ibinyobwa bitandukanye harimo: fanta, amaji ndetse n'ibindi byishi bitandukanye kuko nawe ushobora kuhaza ukigurira amata sibyo gusa bihaba.

Ni heza cyane harimo amakaro acyeye y'umweru ubona ko asa neza . Intebe nziza cyane zihanaguye, indobo ku meza irimo amandazi, icyuma gitungaya amata kikaba cyayabika akamara ighe kirekire. Watera akajisho hakurya, hari ahantu hari amajerekani amanitse ndetse n'amazi bacuruza ibindi bintu.

Umwana ubona ko ari mwiza cyane, nta kibazo afite, akeye yamu amatabyibu afite telefone yo kwivugishiriza iwabo, inyuma ye hari abasore babiri, ubona ko nabo bashimishijwe n'ibyo ari gukora ariko bisa n'ahantu hashashe amakaro meza cyane igikuta giteye irangi ry'umweru, nawe wahasohokera ukirerebera.

Ahantu heza cyane ubona ko hari akantu bashyiramo imyanda imbere y'umuryango, wareba hirya hari inzugi zisa ubururu, hejuru hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, ariko tugarutse gatoya hari ibirango biriho abana ubona ko bishimiye amata aryoha cyane, nk'uko mu imbere bayacuruza, si ayo gusa, harimo n'amazi, fanta n'ibindi.

Umusore ubona ko ari muremure ho gato, ishati n'ipantaro y'umukara inkweto nziza, ahagurutse ku ntebe y'umweru ari kugenda agana aho kwishyurira, ariko hari amakaro meza ubona ko hakeye nawe waza ukinywera, hari intebe zindi z'ubururu hakurya, hakurya hari igikonjesha, hirya gato hari teremusi zibikwamo ibyayi capati ndetse n'amandazi.

Amandazi ni meza cyane kuko arafashe, nk'uko ubibona ni menshi kandi ateye neza, uyateka wifashishije ifarini, umusemburo, amavuta, isukari, amagi ndetse n'ibindi byinshi, ni byiza ko wajya urirenza ku cyayi cya mugitondo cyangwa igikoma ukanabipfunyikira umwana wawe.

Umusore ubona ko yicaye ku ntebe nziza y'umweru, agatambaro, inkweto nziza cyane, umusatsi usokoje, arimo aravoma amata ayashyira mu ijage kugira ngo abashe kuyaha undi muntu, inyuma ye hari ibindi bihaparitse byinshi cyane, akabido imbere yiwe, abona ko ari ahantu nyine umuntu aza akigurira amata agahita agenda.

Umusore ubona ko ari kwitegereza umwari wambaye agakoti k'umukara ufite imisatsi ifunze hejuru, yaramubwiye ajye kwifatira ikintu runaka ariko ibyo ndeba bimanitse hari keke, hari amandazi hari na ji, inyuma ye hari icyuma gitunganya amata nawe rero wajya uyagura buri munsi ni byiza cyane.

Ikirere cyiza cyane ubona ko gikeye munsi hacyo harimo ibiti, ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga ziwambutsa ziwujyana ahantu mu baturage ndavuga umuriro ndetse hari aho ikirango kiriho amata ndetse n'ibindi bintu, moto ihagaze imbere y'akayira k'abanyamaguru indobo hirya yo gukarabiramo intoki. Aha rero uhinjiye wabona ibyo ushaka.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Amagi ni meza afasha ibintu byinshi ushobora kuyateka wifashishije amazi cyangwa se amavuta mu buryo bwo kuyatekamo umurete. Afasha abana gukura neza akabarinda indwara ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Rero nakugira inama nawe yo kujya uyaha umwana wawe agakura neza. Si ibyo gusa kuko ashobora no kwifashishwa mu guteka amandazi, keke ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Umubyeyi mwiza ubona ko yishimiye kubaza amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga. Imbere ye hari utwo kwihanaguza igihe wanduye ku munwa, agakombe karimo isukari kandi karimo icyayi yari gukorogesha ikiyiko. Hirya hari aho bashyira ibintu bikonje birimo fanta, amazi ndetse n'ibindi.

Amandazi ni meza cyane arafasha kuko abantu bayarya ubona ko aryoha cyanr, cyane cyane nk'iyo bayafata mu gitondo rero nawe nagushishikariza kujya uyakoresha uyanywesha amata n'ibindi bintu bitandukanye, kuko mu ndobo harimo abiri ndetse n'ako kuyafatishagatuma atandura

Indobo nziza rero ubona ko ziri mu bintu bitandukanye ebyiri zipfundikiye, ziteretse ku meza ariho ikaramu, imwe irimo amandazi kandi araryoha cyane ni meza bakunda kuyafatisha icyayi mu gitondo babyibushye nta ndwara bahura nazo.

Indobo nziza ubona ko zirimo amandazi atandukanye. Hirya hari iriho keke ipfundikiye iriho akantu hejuru bateruza. Hakurya iyo uhareba hari umuntu uri gutambuka, hirya hari ibiti ubonako ari byiza cyane. Rero hano ntabwo ari ibyo gusa bagira, ushobora kuza ukanywa n'amata, ukumva umerewe neza ugakira.

Hari ameza akeye cyane ateretseho ikarito irimo ikawa ikorewa mu Rwanda, hirya hari igikonjesha ibyo kunywa, wareba hejuru, hari amaji atandukanye ndetse n'ibindi. Aha rero nawe waza ugikurira, ibyo ubashije kunywa bikwicira akanyota ukanywa.

Agakote k'umukara hasi akajipo karimo utuntu tw'umweru ubona ko ari kuvugana n'undi mugabo amubaza ibyo ashaka. Hirya gatoya hari icyuma gitunganya amata iki rero kiyabika igihe kinini ndetse kikabika menshi kurushaho nk'uko kera babikaga mu majerekani ariko ubungubu bikaba bitakibaho.

Amandazi ni meza cyane arafasha. Nk'uko ubibona hari agasahani, agasenda keza, capati, amagi n'imineke, ameza y'umweru. Umuntu uri kubikora bisa n'aho ari ku muhanda. Rero ibi bintu birafasha cyane. Munsi hari ahantu banaga imyanda ndetse urabona ko hari icyapa hirya kiyobora ibinyabiziga.

Niba nawe ufite gahunda yo kwikorera nakugira inama yo gukora ikirango kiba cyerekana ibintu ukora kuko iyo umuntu ahageze akareba yabonamo ibyo ashaka ahita hinjira nk'uko uyu yabikoze, cyanditseho ikaze hariho amata, ji, fanta, imbuto, amazi ndetse n'ibindi, ugahita ubona ko hasi hari umuryango winjiramo uhita ubigura.

Ni byiza ko nawe niba ufite ahantu waza kurira cyangwa waza kunywera amata, ibivuguto, ndetse n'ibindi bintu runaka, wajya ugira utuntu two kwihanaguza ku munwa, igihe wanduye kuko birabafasha cyane cyangwa bakadufatisha amandazi kugira ngo batahanduza cyangwa barye ibintu runaka biriho umwanda bavanye ku ntoki zabo.

Nk'uko ubibona harakeye. Umubyeyi usa nk'aho arikwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga, afite telefone mu ntoki. Iruhande hateretse agakombe karimo isukari. Imbere ye hari intebe y'umuhondo ndetse n'izindi nyinshi z'umweru. h Hakurya hari umwana mwiza, ubona ko ari kumusobanurira.

Umwari mwiza wambaye ishati irimo utuntu tw'umweru ndetse n'uturongo tw'umutuku, afite ijage mu ntoki irimo amata atuzuye, afite icyo arikudahisha imbere ye hari indi itarimo ikintu ikayi, ubona ko afite umuntu arigupimira ngo ayamuhe ayashyire iwabo bajye kuyateka.

Ni byiza kwihangira imirimo nk'uko ubibona uyu mwari wambaye umwenda w'akazi w'umweru, afite ijage imwe ari gusuka mu yindi amata, icupa rya fanta imbere ye, ikayi imbere ye nanone hirya hari ababyeyi ubona ko bari baje kuyagura babyishimiye nabo ntakibazo.

Amazi ni meza ku mubiri w'umuntu kuko avura umutwe, yoza impyiko ndetse turanayatekesha mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko uyabona hano, hirya hari ikarito ubona ko yari yavuyemo ari menshi, nawe nakugira inama yo kujya uyifashisha uyanywesha ibinini cyangwa se ibindi bintu runaka.

Kera hataraza ibyuma biyatunganya ibi ngibi ni nibyo byifashishwaga biyatwara ku igare nk'uko bibona byobi harimo ibyuzuye n'ibicagase hari ikirimo ijage badahisha kugira ngo baheze abantu baje kuyatora, biteretse ahantu ubona ko hari isuku ku makararo meza y'umweru.

Wihangiye imirimo nawe bayba byiza cyane nkuko ububo urabona uyunguyu yagerageje agura icyuma cy'amata kiyatunganya kuko yabonaga ko hari imbogamizi yo kuba bayabika igihe kinini agapfa, rero nawe wabigerageza sibyo gusa hirya harimo n'amazi hejuru y'ifata n'ibindi.

Ni byiza kugira isuku ukajya ukoropa abantu bakajya baza basanga hasa neza kuko birafasha cyane, nk'uko ubibona rero yahamennye amazi ku makaro y'umweru, imbere yiwe hari igare hakurya hari moto, rero hirya gatoya hari undi umuntu uri gutambuka, urabona ko asa naho yitegura kwakira abantu batandukanye mu gitondo ngo basange hari isuku.

Ni byiza ko nawe wajya wigurira ikintu ku giti cyawe ukarya cyangwa ukakinywa, nk'uko ubibona ku meza hari ikaramu, amata, afite cake yamaze kuyishunaho ibyo byise birafasha cyane cyane iyo ubifata mu gitondo ugiye nko ku kazi bituma wumva ugenda umeze neza nta kibazo ufite na kimwe.

Amata y'incyushyu urabona ko yuzuye mu gikombe, hirya hari isahane iriho ibiryo bamaze, nanone hakurya hari indi itasi irimo icyayi bakorogesheje ikiyiko n'agakombe karimo isukari bisa naho umubyeyi afite amafaranga mu ntoki agiye kuyishyura.

Uri kubona ko hano hari umusore wari waje kugura amata ndetse na keke uyigerereye, irafasha cyane iba irimo amatu ubuki ndetse n'isukari ni byiza cyane rero ko abantu bayirya bakayifatisha ibyo kurya bya mu gitondo, kuko ikoreshwa ahantu hatandukanye.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Ahantu ubona ko hakeye cyane hari amabuye meza asashe hasi ntacyondo wahura na cyo, imodoka nziza y'umweru yo mu bwoko bwa toyota, hari umwari ari gutambuka asa nk'aho afite ahantu agiye, wakubita hakurya hari imiryango y'ubucuruzi ubona ko hamwe bacuruza imyenda ahandi bacuruza amata bitewe n'ibyo ushaka rero nawe wabagana.

Amata ni ingenzi tuba tugomba kuyakenera igihe cyose cyane cyane ku bantu batuma akora neza nk'uko ubibona, utubido tw'umweru dusa neza turi hejuru dutonze, ubona ko bukeye, hasi hari udukombe turimo andi menshi wareba hirya ho hatoya nanone hari ibindi bisa naho birimo ayisumbuyeho.

Imodoka imbere y'umuryango wareba hakurya hari umuntu kuruhande wicaye ku majerekani wareba inyumaye hari nicyuma gitunganya amata hirya gato urabona ko bacuruzamo ibindi binu birimo: amazi, fanta, amavuta ndetse n'ib indi binu bitandukanye. Imande yaho haraho bacuruza ibindi binu byo gutekesha bifungiranye inama nakugira nukuza icyo washima nicyo utwara.

Nkuko mubibona amakaro y'aho aracyeye, inzugi nziza ziriho ibirango ndetse zisa amabara y'ubururu, hariya mu imbere hari ikintu gikonjesha harimo ibikombe, ijage y'icyatsi, amajerekani meza azanwamo amazi yo kunywa acyeye Kandi anogeye buri muntu wese iyo aya nyoye aba yumva ameze neza ,akira umutwe cyane iyo awurwaye cyangwa akoze impyiko.

Kwihangira imirimo n'ibintu bishobora gutuma udasabiriza cyangwa umwana wawe agira ikibazo runaka nko kunanirwa kumwishyurira ishuri n'ibindi, nkuko ubibona uyu muntu nawe nibyo yagerageje afitemo ibintu bitandukanye hari amatasi atangiramo icyayi ndetse n'ibirahure hejuru urabona ko hari indobo y'amandazi ushaka amata ahita ayamuhereza akamuha n'irindazi hirya hari amazi, acuruza ibintu biryoshye cyane.

Umugabo wicaye wambaye ishati yirabura wifashe ku munwa, iruhande rwe hari umugore bicaye bareba abantu bari imbere yabo nabo bicaye bari kureba muri ekara nini.

Ni byiza ko nawe ibyo watangira kwikorera byose, washyiraho ikirango nk'uko ubibona hano handitse ikaze dayari, hati yo amata, ji, imbuto ndetse n'ibindi byinshi. Munsi yaho hari umuryango uhita ukwinjiza aho bicururizwa, rero nawe wageramo ukareba.

Ni byiza umwana kujya umugurira ji kuko zirafasha nk'uko ubibona muri ikirango ni ikarito iteruwe n'umuntu ariko iriho amatunda meza cyane yeze ubona ko nta kibazo yateza umwana, ibi rero bituma akura neza ntagire ikibazo runaka ahura nacyo mu kurira.

Umwari mwiza ubona ko hirya gatoya ari kwishyura akoresheje ikorabuhanga, hasi hacometse ikintu bashyiraho terefone, amakaro meza y'umweru akeye imbere gato hari undi muntu utegereje ko yishyura impande hari ijage nziza bapimiramo amata.

Ikirango kiza cyane ubona ko kiri mu mabara y'ubururu, amagambo yandikishije umweru, ibiranga ibyo batanga harimo amaji, fanta, amazi , ndetse n'amata, hasi ubona ko hashashe amakaro meza cyane afite isuko n'akazuba kari kuyarasiraho, ukaba ubona ko bisa neza.

Ni byiza kwihangira imirimo nk'uko ubibona hano indobo zirimo capati, amandazi, imwe iriho ahantu bafatisha hejuru, kubita akajisho hakurya bacuruza amazi atandukanye harimo aya Niri, Inyange, fanta ndetse n'amata, nawe rero ubishaka waza ukigurira kuko aya mata arafasha cyane ni meza.

Ijage nziza ubona ko ipfunduye ntakintu kirimo iteretse ku meza y'umweru, amakaro meza cyane akeye, hakurya hari indobo ziteretse kubyuma, bibika amata warebamo imbere ahandi mubirahure, harimo amagi meza cyane ubona ko abereye umuntu kuyarya, akayatekamo nk'umureti.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ikabutura, inkweto ubona ko asa n'uri kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, ahantu hari amakaro y'umweru, hari imyirondoro y'umuntu, inyuma ye hari intebe, ahateretse ikaye ndetse n'amajerekani, rero nawe waza ukigurira amata ntakibazo.

Intebe abantu bicaraho amakaro meza y'umweru akeye icyuma cy'amata kiyarinda ndetse kinayatunga igihe kinini kikabika menshi, hakurya hari aho bamanika ibintu bitandukanye birimo ji, amazi ndetse n'ibindi byinshi.

Kwihangira imirimo ni ibya buri wese wicika intege. Kuko urabona ko aba bari beza bambaye ingofero z'akazi, imyenda y'umyeru; na bo bari mu kazi. Rero nawe wabireba nk'uko inyuma y'abo hari icyuma gitunganya amata. Urabona ko umuntu wese ashobora kuza akigurira ntakibazo.

Umukobwa abona ko ari kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ariko imyirondoro yanditse ku gikuta kiriho amakaro ndetse no hasi ashasheho, inyuma ye hari intebe ikayi iteretse ku meza ndetse hirya gato hari utundi tuntu tuhateretse ni byiza ko nawe waza ukihahira hano ni karibiu rwose.

Ahantu hasa neza cyane ubona ko harimo amakaro y'umweru n'ameza meza ndetse amagi hirya, hejuru capati yubitseho indobo, hejuru ho gatoya hari amata, ji, ndestse n'amazi. Ni byiza cyane yuko nawe waza ukahanywera amata kuko araryoshye cyane aranafashe cyane ko n'amazi yoza impyiko akanakiza umutwe.

Ahantu heza rero ubona ko nawe umuntu yihangiye imirimo akazanamo ibintu bitandukanye gucuruza amata, amandazi ndetse n'ibindi nkuko ubibona kugirango kirimo ari ayo ubururu n'ikirahure bari kuyasukamo ndetse n'ibintu bitandukanye birimo fanta, ji n'ibindi ntabwo wasangamo ibyo gusa n'amandazi abarimo ushobora kuza ukinywera mu gitondo ugiye nko ku kazi.

Amata ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ku bana bari kuva ku ibere, nk'uko ubibona rero hano barayacuruza, amakaro asa neza, icyuma kiyatunganya kiyamarana igihe kirekire, ijerekani ubona ko isa neza na yo ikeye, indobo hasi, hirya hari ameza y'umweru, ibintu byose urabona ko igikuta kiri mu marangi y'ubururu, harakeyeye.

Amazi ni meza ku buzima bwacu bwa buri munsi turayatekesha, igihe tuyanyweye adukiza umutwe akayungurura impyiko, turayoga tukagira isuku ku mubiri ndetse n'ibindi bintu, rero hari ayabugenewe kunywa hari n'andi yagenewe ibyo ngibyo bitandukanye ntavuze, hejuru hari ibiciro bihamanitse irangi riteye ry'ubururu ndetse n'umweru hari inka ihashushanyije barimo barayacuruza bacuruza n'amata.

Ibikoreshwa mu mashinwa ni aya ngaya bo bayita amayuwani ariko twe mu Rwanda dukoresha amanyarwanda kino gihugu rero ni icyakabiri gituwe n'abantu benshi ku isi aho gikurikirwa n'ubuhinde aya rero ubona ni amafaranga makumyabiri hejuru handitseho ibibare by'ibishinwa ntago nabasha kubisoma.

Rero ubona ko hakeye ahangaha habera ivunjisha utanga amafaranga akaguhereza andi bitewe n'igihugu ushaka kujyamo, uko ubibona rero harimo amatara meza cyane, ibirahuri umuryango winjiramo ubona ko harimo abantu baje kuvunjisha.

Ni byiza ko nawe wajya ugira umuntu gufasha, hoteri runaka ziba zigomba kugira abakira abantu nk'uko ubabona bafite intoki nziza, inzara ziteye akarangi k'umutuku impapuro mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa hirya hari ikintu gisohora impapuro bazifotoza cyangwa bashaka gusohora ibintu runaka.

Gufata inguzanyo ahantu runaka kuko birafasha bituma umushinga wawe ugenda neza, wenda niba ushaka kubaka inzu, cyangwa ashakagura ahantu ikibanza cyangwa ushaka no gushora mu bucuruzi byagufasha cyane , rero iki ni ikirango kibyerekana kiriho umwari mwiza useka neza akorera banki yitwa inesibiyeyi ikorera hano mu rwanda.

Biba byiza ko wajya wigira mu isoko nawe ukajya guhaha, nk'uko ubibona harimo abantu benshi b'ababyeyi ndetse n'abapapa harimo imyembe, amaronji, indimu, amatunda, imineke, amapapayi, amananasi ndetse n'ibindi byinshi ushobora kubisangamo hano ukabitunga kuko bifasha umubiri gukura neza ndetse no kugira intungamubiri zitandukanye.

Ni byiza ko nawe wajya wishyura wifashishije ikoranabuhanga n'uko ubibona aka ni akaronko kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru handitsemo imibare itandukanye wifashisha uri kubikora na telefone yawe, aho ukanda imibare runaka ugashyiramo umubare w'ibanga ndetse n'amafaranga ugahita wohereza.

Gahabwa abantu bashaka gucuruza amayinite cyangwa kubitsa no kubikuza, ni ikigo gitanga itumanaho hano mu Rwanda, kitwa Emutiyene nkuko ubibona kirangwa n'amabara y'umuhondo nkuko kano gasa, ndetse amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara harimo umwari ubona ko ari kwakira abantu barakuze ndetse n'abamama.

Akazu keza ubona ko gafunze kari mumabara y'umutuku, handitseho ibintu by'umweru hano harigihe bacuruza ibijyanye n'amayinite cyangwa bakabitsa bakabikuza. Wareba imbere hari umubyeyi wicaye wambaye isengeri y'umuhondo, hakurya hari abantu basa naho bari gutega imodoka.

Umugabo mwiza ubonako asa n'ukuze yambaye umwenda w'akazi w'umuhondo, inyuma ye hari ikirango kiriho imodoka nziza cyane bisa naho ari ibihembo bari gutanga, imbere ye hari moto yo mu bwoko bwa tevisi urabona ko yabyishimiye cyane, ibi ni byiza na we wabyikorera kuko birafasha cyane.

Ikirango kiza cyane ubona ko kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru amagambo yanditseho ndetse n'imibare n'imyirondoro y'umucuruzi runaka kuko bikunda guhabwa abongabo mvuze, rero nawe ni byiza ko wajya wishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyane cyane terefone hano ntamafaranga ukatwa namakeya.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ubona ko gafunguye n'umuntu urimo, hariho ibirango biriho abamamaza telefone umugabo mwiza cyane, imbere yaho hari ibyatsi ndetse n'akayira k'abanyamaguru, hirya gato hari ipoto ubona ko icyapa cyaguyeho.

Ikirango kiza cyane nuko kiri mu mabara y'umuhondo amagambo yandikishije umukara ndetse umweru wanditsemo amazina y'umuntu n'ahantu hari imibare wifashisha urikwishyura ikoranabuhanga ibi bikunda gukoreshwa n'abacuruzi cyangwa abandi bantu bashaka gukora imishinga runaka.

Aba rero ubona bambaye imyambaro y'akazi isa y'imihondo umwe yicaye ku ntebe ndetse n'undi ariho arafasha umudamu wari uje abagana bari mu mutaka ubarinda izuba wakubita akajisho hakurya hari imodoka nyinshi cyane ziba zihatembera bisa nk'aho hano hantu ari ku mugi.

Ni heza cyane urabona ko inyuma yaho hari ibirango bya terefone, akazu karafunguye kari mu mabara y'umuhondo, imbere hari terefone bacuruza ndetse hari n'umwari wisukishije wambaye umupira w'umweru, hakurya hari undi wambaye uw'umuhondo, imodoka nyinshi cyane, hino gatoya hari uri gutambuka na we wambaye ibisa icyatsi.

Akazu keza nako kari mu mabara y'umuhondo gatwikiriye, ntago imvura yamunyagira cyangwa izuba rimwice harafunguye hinjira akayaga hirya gato hari ahantu hari amapata amanitse ari kubaka urukuta imbere yaho ijisho hari umwari usa nkaho nawe ari kwaka ubufasha ndetse n'abandi bapapa batandukanye.

Ni biza kwihangira umurimo nawe mugore cyangwa musore ushobora nawe kubyikorera ntakibazo nk'uko ubibona rero abo bombi barishimye bambaye imyenda y'akazi harimo umudamu bisa nk'aho ari gutora akantu mu giseke isakoshi imbere ndetse n'agapupe wareba hakurya hari mudasobwa ubona ko bifashisha bari gukora ibintu runaka

Akazu keza ubona ko gakoze mu byuma gafunguye, hari kwinjira akayaga, amagambo ariho yandikishije umukara ndetse n'umutuku, harimo umuntu rero ubona ko ari gucuruza terefone ndetse afite ikayi imbere y'iwe, arimo arasaba abantu kubaha imyirondoro y'iwe ngo abandike cyangwa se abahe amayinite cyangwa ababikurize.

Ubona ko bashishakajwe no kubona ibiri kubera hano, hariho abakozi bambaye imyambaro y'akazi y'imihondo, ndetse n'abandi bari hirya ubona ko bari kumva ibivugirwa ahongaho, ni benshi kandi ubona ko babikurikiranye cyane kuri aka kazu kari mu ibara ryiza cyane hasi rifite ubururu.

Ni byiza ko nawe watunga abantu bakwishyura bakoresheje ikoranabuhanga kuko ariyo si turi kugeramo nkuko ubibona ,kano kantu gasa umuhondo hariho imibare wifashisha ugashyira muri telefone yawe ugahita ubona amazina y'umucuruzi ugahita umwishyura ikintu waguze.

Akazu keza karimo umuntu wambaye umenda w'akazi, ubona ko gafunguye, imbere yaho hari umuntu wambaye umupira w'umutuku, ndetse n'ipantaro nziza cyane, hashashe amabuye ntahantu wahurira n'icyondo, ukubita akajisho hakurya hari ahantu bacuruza amafu, kawunga, ibiryo, imiceri ndetse n'ibindi, intebe ku muryango wicaraho iyo urushye, ndetse n'inzugi zisa neza, nawe rero nakugira inama yo kuhaza.

Urabona ko hakeye, amabuye ashashe hasi cyane hejuru yaho ho gatoya hari amakaro y'umweru ibintu bishobora gutuma ntaho uhurira n'icyondo cyangwa umwanda. Hirya hari ikerekana ibintu bitandukanye bamamarizaho hari n'abantu bambaye imyenda myiza cyane, nyine urabona ko baje gushaka ubufasha butandukanye ndetse n'ibindi byinshi. Hano rero wahagurira simukadi, ama inite wahavugira ibibazo byawe wahuye nabyo waba waribwe amafaranga cyangwa ibindi bintu runaka.

Murabibona ko kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga abantu bari kubimenya ndetse ni nayo si turikujyamo muri iyiminsi, urikureba hano rero umugabo mwiza cyane urabona ko afite terefone arimo arabikora, ndetse kugasatsi ke karinganiye arimo arishyura inyanya yari amaze kugura.

Utuzu tubiri ubona ko kamwe ari umutuku karimo umwari uri gukanda telefone, hirya gato hari akandi k'umuhondo, kariho ibirango byanditseho umukara ndetse n'umutuku, ubona ko hari abantu baje gushaka ubufasha butandukanye barimo kugura amayinite ndetse no kubikuza.

umu mama wambaye igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge, gifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umutuku n'umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umweru urimo utuntu dufite ibara ry'igitaka, n'akitero mu mutwe gafite ibara ry'umweru hariho ibitunguru biribwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi.

Ikirango rero ubona ko kiri mumabara asa n'igitaka ndetse n'umuhondo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hariho telefone ushobora kwigurira zigezweho kandi ziri gukora ibyo abantu bashaka kuko turi mu isi y'iterambere nawe wayigura rero ni nziza cyane.

Nk'uko ubibona ngombwa nawe kugira ahantu hakeye cyane hatangira ubufasha hari amabara y'umukara ndetse n'umuhondo hirya hari ubururu ubona ko hari n'ibirahure byiza cyane bituma haza akayaga abantu benshi baje kwaka ubufasha harimo abasore beza cyane bambayaye amakote akeye n'abari bari kwakira abo bantu.

Abantu benshi ubona ko harimo umusore wambaye isengeri yanditseho imibare inyuma, imbere ye hari abakozi bambaye imyenda y'akazi, ibitabo imbere yabo ndetse n'amaterefone n'ibindi bintu byamamaza, bisa naho bafite ibyo baje gukora. Hano uhagana rero ushaka kugura simukadi cyangwa guswapisha iyo wataye.

Umubyeyi ubonako yambaye ikote rimurinda imbeho ikanzu nziza cyane ari kumwe n'umukobwa uri guseka neza wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero irimo utuntu tw'ubururu arimo arishyura koresheje ikoranabuhanga banamusobanurira uburyo rikora, hirya hari ahantu bacuruza ibinyobwa niba ndeba neza n'ibintu bidasembuye gusa hari n'umuntu wambaye imyenda y'umutuku uri kubakira.

Nibyiza ko nawe wakegereza ubufasha abantu bakure nk'uko ubibona rero hari umwari mwiza wambaye umwenda w'akazi w'umweru ikora ry'umuhondo ririho ikirango k'ibyo ari gukora. Abandi baje bamugana bafite amatelefone yabo ndetse n'ibindi bamutura ibibazo bahuye nabyo.

Abantu beza bari mu kazi umwe wambaye umupira w'umweru, hirya gato hari umwari usa nkaho nawe ari kureba muri mudasobwa afite ibintu ari gushaka, imbere hari undi musore ubonako ari gutora mu igiseke byamushimishije cyane.

Abantu benshi ubona ko baje bashaka ubufasha butandukanye harimo abafite amakayi n'abandi bafite ibyo bari bavuye guhaha, ndetse n'abari beza cyane n'abasheshakanguhe ubona ko hari ibyo baje kureba ndetse bashaka gusobanuza.

Inyandiko ibaza umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda hakaba hasi hariho imyirondoro wabonaho abashinzwe imisoro namahoro mu Rwanda.

Umusore mwiza cyane uvona ko yambaye umupira urimo utubara tw'umweru, afite ikayi n'ikaramu arimo arandika imyirondoro y'umuntu ari guha amafaranga, rero hano urabona ko ari mu kazu k'umuhondo gafunguye ari kumwe n'umwari mwiza cyane. Ibi rero bituma acuruza amayinite akabika akanabikura.

Umwari mwiza ubona ari gusobanurira umugabo usa n'ukuze uko ikoranabuhanga rikorwa, nyuma yaho hari akazu gasize amabara y'umuhondo amagambo yandikishije umweru, uwo bari gusobanurira yambaye ingofero n'umupira w'icyatsi, ikora ry'umweru reo nakugira inama nawe yo kuyoka aho isi igeze.

Umwari mwiza ubona ko afite ibintu ari kuganiriza abantu ateruye mikoro akora ku mutima ubona ko byamukozeho rwose cyane, agapira k'umuhondo gahinnye amaboko, ipantalo y'ubururu isa nk'iciyeho, inyuma ye hari ikirango kiriho abana wagira ngo n'abanyeshuri wareba hirya ho gatoya hariho abantu benshi ubona ko bishimiye ibyo ari kuvuga.

Ni byiza kwihangira imirimo kuko ababikoze batunze abana babo banabishyurira ishuri, ndetse n'iyo barwaye babona ayo kubavuza, nkuko ubibona uyu muntu uri mu kazu k'umuhondo keza gafunguye amadirishya ku buryo yamuzanira akayaga nawe nibyo yikoreye, haza abantu batandukanye kuko acuruza ama inite, kubitsa no kubikuza agahembwa bitewe n'uko yakoze.

Intebe zisa neza cyane ubona ko ziri mu mabara y'umweru z'ibyuma zikomeye ku buryo uzicayeho zitavunika ndetse hirya gato hari ahantu hari icyo bareberaho amashusho atandukanye urabona ko harimo terefone bisa nkaho irimo imibare, wakubita maso nanone mo imbere harimo umukozi wambaye umupira w'akazi uri kureba muri mudasobwa, imbere ye hari uwaje gusaba ubufasha butandukanye, hano rero haza abantu bafite ibibazo, iyo wagize ikibazo runaka kirimo gufungirwa simukadi zabo barabagana bakabafasha.

Ni byiza ko wajya wishyura ukoresheje ikoranabuhanga, nawe niba uzi ko ucuruza ugomba gufasha abantu ukaborohereza bakajya babikora bakoresheje terefone zabo; kuko kuyazana mu ntoki biravunana hashobora no kuba bahura n'abambuzi bakabakubita bakayatwara, ibi ni byo byoroshye.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi cyane mu kubibona muri telefoni nziza iri mumabara y'umuhondo iyi ni apulikasiyo rero nayo wifashisha uri kubikora apana bya binti byo gukanda imibare wishyura, ahubwo ujyaho ukareba ushobora gushyiraho amazi umuriro ndetse n'ibindi.

Akazu ubona ko gakeye kari mumabara y'umuhondo karanga terefoni ndetse n'amagambo yandikishije amabara ry'umukara n'umutuku hari ibiti nyuma ubona ko bizana akayaga gateye k'umuhanda hakurya urahabonye imodoka isa nkaho iri kuza igasatira y'umweru.

Abasore ubona ko bishimiye ibintu biriho hakurya hari ahantu handitse izihirwe wagira ngo n'abantu baba batsidiye ibihembo runaka, hari umwari ufite mikoro afite ibyo ari kubwira abantu bari gutsindira imipira itandukanye bano bo urabona hakurya hari indangururamajwi iri kubaha ibyo kubyina bakabikurikiza.

Umusore mwiza cyane ubonako yishimye gutanga ubufasha runaka ku bantu bari baje bamugana, baje kugura ibintu bitandukanye birimo, terefone, ama simukadi, cyangwa ibindi bintu runaka, si ibyo gusa bagira, ushobora no kuza gusimbuza iyatakaye.

Kwishyura ukoresheje ikaranabuhanga ni byiza cyane kuko birafasha, nk'uko ubibona ikirango kiriho ibara ry'umuhondo amagambo yandikishije ubururu ndetse n'umukara, ariho imyirondoro y'umuntu akenshi bikoreshwa bino bikoreshwa mu bucuruzi, nawe niba ufite gahunda yo gucuruza wabyifashisha.

Imodoka nziza cyane uri kubona ko bisa n'aho yangiritse, imbere hari izindi nyinshi ziparitse harimo umuntu uyitwaye bisa n'aho hirya gato hari umugabo wambaye umwenda w'akazi uri kumuganiriza, ibintu runaka, urabona ko hariho ikirango cyo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Bamwe mu batunze imbuga nkoranyambaga zo kugura cyangwa ugurisha ukoresheje ikoranabuhanga, bakunze kuba bagirana imikoranire n'abantu bagurusha amasambu yabo, igihe baba bakeneye amafaranga yo gukora igikorwa kimwe cyangwa ikindi mugihugu cy'u Rwanda.

Akazu Kari mumabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya urabona ko hafunguye umuntu uri kwinjiramo, imbere yako urabonako hari umudamu umwe n'umusaza ukuze bari gusuhuzanya ndetse n'umusore wambaye imyenda y'ishuri, aha rero waza ukahagura amayinite, akahabitsa cyangwa ukahabikuriza.

Nk'uko ubibona ni heza cyane ariko harasa naho hakiri imirimo yo kubakwa, akazu kariho ibirango by'ubururu ariko ko gasa umuhondo imbere harimo umuntu ubona ko afite ibyo ari gufasha uri hanze wambaye ishati y'umweru, hakurya hari abantu bamwe bari kwambuka umuhanda, abandi barahagaze bafite ibyo bategereje.

Umugabo mwiza cyane ubona ko afite umusatsi yawuteretse, awugira isuku, awusokoza. umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'andi, afite ikayi imbere yiwe n'ikaramu yandikamo imyirondoro, mu kazu keza k'umuhondo, hakurya hari insina zeraho ibitoki n'ibigega ndetse n'indi nzu, wareba ukabona nawe ategereje abantu baza kumusaba ubufasha butandukanye, nko kugura amayinite, kubitsa no kubikuza.

Umwari mwiza wambaye umwambaro w'akazi ufite ikora ndetse na mudasobwa imbere ye bisa naho ari gusobanurira umupapa waje amibaza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga hano rero bagira ibintu bitandukanye, iyo ugize ikibazo uraza bakakigukemurira icyaricyo cyose.

Abantu benshi ubona ko bameze neza, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'umusore wambaye ikote n'ingofero y'umuhondo, hirya gatoya hari umubyeyi wambaye umupira w'umweru ubona ko ari gusobanurira umugabo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga kurikoresha.

Ni byiza ko nawe wajya uza ukabaza ikibazo ufite nk'uko ubibona hano hari abadamu babiri, umwe wambaye imyenda myiza y'umutuku ubona ko yaberewe n'undi nawe, hirya ho gato hari abapapa babiri bisa nk'aho baje gusaba ubufasha mo imbere hari umuntu uri kubasaba kumubwira ibibazo bafite akabibakemurira.

Kuri ubu urubyiruko rwabaye urwa mbere mu gukoresha ikoranabuhanga. Kuko hano hari umunyeshuri wambaye ishti y'umweru, ipantaro uheste igikapu. Hirya gato hari undi bari kumwe, bari mu mutaka ubona ko uri mu mabara y'umuhondo. Hirya gato hari ibyapa biranga, ibintu bicururizwa aho ngaho. Urabona ko baje gusaba ubufasha butandukanye burimo: kubitsa, kubikuza cyangwa kugura amayinite.

Akazu kafunguye, imbere harimo umusore wambaye ikabutura n’umupira w’umutuku w’amaboko maremare, ndetse n’umwari ufite telefone, bisa n’aho yari aje kureba ibindi. Hirya hari ibindi bintu, ndetse bigaragara ko bari kwamamaza. Inyuma, hari ibyuma bidashinze bisa n’aho bizitiye ahantu runaka umuntu ashobora kwinjira. Nanakugira inama yo kuza hano ukagura SIM card, ukabitsa cyangwa ukanabikuza amafaranga.

Umwari mwiza wambaye umupira w'umukara ubona ko imbere hari igitabo yandikamo ibintu bitandukanye cyangwa se imyirondoro y'abantu, uyu musore rero ubona waruje umugana wambaye ishati y'ubururu ahashaka ubufasha butandukanye burimo amayinite, kubitsa cyangwa kubikuza.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata, amagi abiri ateretse ku meza igikarito cy'amazi ya nili giteretse kuri kontwari mo imbere muri etajeri harimo amajerekani atatu y'umweru.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga byafashije ibintu byinshi cyane ndetse n'abandi batandukanye nk'uko ubibona arimo arabikora akoresheje terefone yiwe, yirinze gutwara amafaranga mu ntoki ngo abe yayata cyangwa ngo bayamwambure rero ibi ngibi bifasha buri muntu kugera aho ageze agahita yishyura.

Umubyeyi wambaye umwenda w'akazi, ubona ko afite telefoni mu ntoki ari kwereka umuntu gukoresha ikoranabuhanga ndetse naho rigeze, hirya uwo ari kwereka yambaye umupira w'umuhondo uri mu ikora ry'ubururu ndetse n'ingofero, agakomo ku ruhande ubona ko ari ibintu byamushishikaje kumenya uburyo bikorwa.

Akazu keza ni uko ari kanini kakira abantu babiri icyarimwe urimo na we bisa naho afite kubabwira bitandukanye, abagabo batatu umwe yambaye umupira w'umutuku hirya gato hari ahantu hashashe ishashi y'umukara wagira ngo itwikiriye imbuto runaka bahamennye, ni byiza ko nawe wajya uhagera ukareba.

Umubyeyi mwiza cyane urabona ko yishimye useka neza yambaye ingofero, ndetse n'agatambaro kamanutse umupira urimo umukara n'umutuku, ndetse n'umwambaro w'akazi w'ibara ry'umuhondo, afite ikaramu ntoki ndetse n'urupapuro ruriho imyirondoro ahantu wishyura ukoresheje ikoranabuhanga, inyuma ye hari ntebe, indobo ndetse n'abantu benshi.

Umupapa ubona ko asa n'ukuze ufite terefone asa naho ari kwigisha undi gukoresha ikoranabuhanga, imbere ye hari ikayi ndetse n'ikaramu na mudasobwa ebyiri, hamwe n'umuntu wari uje gusaba ubufasha butandukanye. Aha rero iyo uhaje ufite ikibazo barakigukemurira.

Umusore ndetse n'umugabo usa n'ukuze ubona ko wambaye imyenda y'imihondo bose isa, wagirango bari gukirana kuko bafatanye mu maboko, inyuma yabo hari abantu benshi ubona ko na bo bari gufana nyine bishimiye ibintu bari gukora ndetse na bo babikunze.

Abantu benshi cyane nkuko ubibona bitabiriye gahunda yo kwamamaza ibikorwa runaka, biri kurangwa aho ngaho mu mabara y'umuhondo muri ako kazu, ndetse ubonako hasashe itapi hasi y'ubururu, hariho ikirango kerekana umuntu watsindiye imodoka, ibintu bisa nkaho abantu bari kubyumva cyane, nawe rero waza ukagerageza amahirwe yawe.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi cyane, kuko akenshi wasangaga abantu mu kubika amafaranga, barabateraga mu nzu bakabica, cyangwa se bayatwara mu ntoki ugasanga bagiye kwishyura barayibwe nko kuri banki, cyangwa ahandi hantu bagiye guhahira. Ariko ubu ngubu rero ujyana kuri telefoni yawe, washima ikintu ukakishyura ugahita witahira bidasabye kuyishyura mu ntoki.

Ni byiza ko na wajyagira mu masosoko manini kuko birafasha cyane, hari umukobwa mwiza ako hirya wakira amafaranga akabara ibintu uvuye kugura akaguha igiciro, rero hakurya hari aho wishyurira ukoresheje ikoranabuhanga imbere he hari umwari mwiza wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umubyeyi ubona ko yishimiye ibyo bari kumubwira, hakurya hari ibinyobwa birimo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Akazu keza cyane ubona ko kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru hirya hari akantu gatwikira abantu baje izuba cyangwa se imvura igihe inyagiwe. gusa ntago katwikira abantu benshi kubera nk'uko ubibona hari umudamu wisukishije ufite imisatsi myiza cyane ndetse n'ishakoshi waruje gusaba ubufasha burimo kugura ama inite cyangwa kubikuza.

Akazu keza kari mu mabara y'umutuku ubona ko hariho ibirango by'ibintu batanga amayinite, kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi karafungiye niba ndeba neza harimo umuntu hakurya hari ahantu hari amazi icupa ryayo bisa naho nawe waje ukigurira ntakibazo.

Ni byiza kwihangira imirimo irimo nko gucuruza amayinite kuko hari benshi babikora kandi batunze imiryango bishyura n'abana amashuri, bakishyura inzu, ni byinshi ubibona uyu mubyeyi wicaye mu kazu k'umuhondo kariho amagambo yandikitse mu ibara ry'umukara nawe nibyo akora.

Urabona ko hakeye cyane hari utubuye twiza hakurya hari ikintu cyikaraga ugenda ugakina watsindira umupira cyangwa ingofero cyangwa amafaranga, hanyuma hirya gato hari abantu bari gufasha abandi, umusore uteruye umwana ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye hari utibara tw'umuhondo ndetse n'umweru.

Umwari mwiza ubona ko ari mu kazu gasa umuhondo gafunguye inyuma ye hari ibirango biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, afite ikaye imbere ye yambaye isaha hirya gato hari undi mukobwa uri kumubaza ibintu ashaka kumenya bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa akaba yagura amayinite, akabitsa akanabikuza.

Ni byiza ko twajya twishyura dukoresheje ikorana buhanga, kuko ryageze ahanu hose cyane cyane ku bacuruzi niho babikora, nkuko ubibona hano hari ikirango kiri m'ibara ry'umuhondo, amagambo yandikishije ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu hariho imyirondo y'umuntu bishyuriraho, rero urabona ko acuruza imyenda, imipira, amapantaro ndetse n'ibindi.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Akazu ubona ko kanini kagutse kanafunguye karimo ibintu byinshi ubona ko wagira ngo bacururizamo amayinite kubitsa, kubukuza ndetse n'ibindi nk'uko ubibona hari umugabo wambaye ingofero hejuru y'umweru uhetse igikapu ikanzu y'umweru ndetse n'undi afite terefone mu ntoki ubona ko baje gusaba ubufasha butandukanye bombi.

Abantu benshi ubona ko bari gusaba ubufasha bariguhabwa ibyo bakeneye n'abakozi bambaye imyenda y'akazi, imbere yabo hari mudasobwa nyinshi cyane, nk'uko ubibona harimo umubyeyi ukuze ndetse n'umu papa, ndetse n'urubyiruko muri rusange. Aha rero ntabwo uhejwe kuhagana upfa kuba ufite ikibikwemerera.

Umupapa mwiza cyane wakabaye ari gusaba ubufasha wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, mo imbere harimo umusore ufite igitabo imbere ye yandikamo imyirondoro y'abantu, wicaye mu kazu keza gafunguye gatuma abona umwuka wo guhumeka n'uburyo yavugana n'abantu wareba hirya gato hari ahantu hari ibiti ndetse hasakaye bimuha akayaga igihe agakeneye.

Ikirango kiza cyane ubona ko kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hariho amagambo yandikishije umukara, umwirondoro w'umucuruzi wu mucuruzi ibi rere bifasha abantu kwishyura bakoreshe ibikoresho bya ikorana buhanga cyane cyane telefone zabo ndetse n'ibindi binu runaka rero nawe wabikoresha kuko biroroshye.

Abantu ubona ko bari ahantu hatwikiriye, nta zuba ribageraho ntan'imvura, hari ikirango ubona ko kiriho inka, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ku meza yabo haparitseho ibintu abantu ubona ko bashishikajwe no kumva abenshi, abakozi bahangaha bambaye imyenda y'imituku ibaranga.

Udupapuro twiza urabona ko turi mu mabara y'umuhondo, turiho imyirondoro y'abantu ndetse n'imibare, ibi ni ibigaragaza ko ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyane cyane abantu bakoresha terefone; uri kubibona rero imbere yaho hari ahantu hari mudasobwa na zo zifashishwa.

Ubungubu wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, nkuko ubibona ku kirango cy'ibara ry'umuhondo, amagambo yandikishije umukara umwirondoro w'umucuruzi runaka kuko bino bihabwa abantu bose, rero inama nakugira wajya wikoreshereza terefone yawe ugahita ukandiramo imibare ukishyura bitagoranye.

Ahantu hasa neza cyane ni ngombwa kuhakorera nkuko ubona amakara ariho ahantu ugenda ukandagiza uturenge akabati keza cyane karimo ibirahurire ureberamo terefoni ziri kugurishwa nawe wangenda ukigurira hirya hari ikirango ubona ko aho kiri hari abishimira ibyo barimo bareba mu ikoranabuhanga aho rigeze.

Ni ibara ry'umuhondo ryiza cyane amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku mo imbere hari nta muntu urimo nkuko ubibona ariko hakurya hari umwambaro utari w'umweru niho hagati ya hari umwana wakubita akajisho hakurya hari moto ihaparitse ubona ko bisa naho hasa neza hari akazuba k'umuseso.

Umusore mwiza cyane ubonako yambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'igitaka, afite ikarita mu ntoki, ikayi ndetse n'ikaramu arimo arandika imyirondoro y'umwari wari uje amugana, bisa n'aho yari aje kugura yaraje kugura ibintu bijyanye n'amayinite cyangwa si ibyo gusa agira, acuruza no kubitsa no kubikuza, aguha amafaranga mu ntoki, ukayamuha kuri telefone.

Urabona ko bisa neza cyane bazaniye cyagipapuro kiba kiriho imyirondoro y'abantu bishyura ariko bakoresheje ikoranabuhanga hrya gato hari abari bambaye imyenda y'akazi y'umuhondo hakurya hari uwambaye iy'umweru ubonako ari imbere ya mudasobwa inyuma yaho hari ibirango bitandukanye bisa naho aha hantu bacuruza ibintu bijyanye n'imiti.

Ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi nk'uko ubibona igipapuro cy'umuhondo kirimo amabara y'umweru ndetse amagambo yandikishije umukara n'imyirondoro y'umuntu iyi mibare ubonaho ni iyo kwishyura ukoresheje terefone yawe.

Abakobwa beza ubona ko bakeye, umwe yasokoje, undi arasutse, yambaye ingofero n'amarinete, ishakoshi, imyenda y'imihondo ndetse n'ubururu, ubona ko bari imbere y'ameza, inyuma hari ibintu bishashe biri mu mabara, ubona ko hari n'ibiti inyuma yaho bibazanira akuka.

Karakeye cyane kameze neza kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru mo imbere urabona ko harimo intebe n'umuntu wicaye bisa n'aho imbere gatoya hanze y'akazu hari umwana uri gutambuka, ndetse uri kumewe n'umubyeyi we hakurya gato hari abantu ndetse n'imodoka y'ubururu, ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho kubireba.

Umusore uri mu kazu k'amabara y'umutuku ubona ko hari utumirinda ibintu bishobora ku mugwaho cyangwa biturutse hakurya wambaye umupira w'umutuku, telefone nyinshi imbere ye, arimo arasobanura umugabo usa n'ukuze ubona ko yashishikajwe no kumva ibyo bari kumubwira, hakurya hari imodoka nyinshi ndetse ubona ko ari ku mujyi.

Ahantu heza urabona ko hashashe amabuye atatuma hanyerera, cyangwa haze icyondo, hakurya hari ikintu bakaraga kugira ngo abantu batsindire amayinite cyangwa imipira n'ingofero cyangwa bakarata bitewe, hakurya rero hari abakobwa ubona ko bambaye imiyenda myiza y'umuhondo, ndetse n'utujire hirya bari gutanga ku bantu batsindiye impano.

Inyuma yabo hari akazu ubona ko gafunguye ndetse n'imiyenzi iri hirya, bisa n'aho hari akayira n'utwatsi duteye ku mpande ubona ko bombi bambaye imyenda ijya gusa ariko umwe ni umwari wambaye umwenda w'akazi, undi na we ari aho bari kuganira urabona ko bishimye.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi kuko mbere witwazaga amafaranga ariko ubu siko bikimeze, ubu rero uyagendana kuri terefone aho ugeze ukishyura waba uri mu ntara ushobora koherereza umuntu uri i Kigali ndetse ukaba wakishyura ibintu bitandukanye hanze y'igihugu.

Akazu keza ubona ko kari ahantu hateye amabengeza nubwo hari inzu zisa n'izishaje nako gasa nk'agakuze ukuntu urikubonako gafunguye kari mumabara y'umuhondo ndetse n'amagambo yandikishije umukara wagirango hacururizamo umuntu amayinite abitsa anabikuza.

Ni byiza gukorera ahantu hakeye ndetse ufite n'ibyo utanga, akazu keza ubona ko kari ahantu hari amabuye ntabwo ibyondo byahagera, hariho imitako y'umukara n'umweru, gakoze mu mbaho ku gikuta mo imbere harimo amazi yo kunywa ndetse n'abantu bategereje abaza kubasaba ubufasha runaka ngo babubahereze.

Akazu gakoreramo abakozi bacuruza ama inite bakabitsa bakanabikuza nkuko ubona, gasa umuhondo amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'ikirango kiri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari icyapa ubonako ubona ko n'imbere yaho hari akayira k'abanyamaguru, ipoto hasa nk'inyuma ndetse n'ibiti byinshi ubona ko bitanga akayaga.

Akazu keza cyane kari mu mabara y'umuhondo ndetse kariho ibirango bitandukanye ubona ko mo imbere hafunguye harimo umugabo wambaye ishati undi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi wambaye umupira w'icyatsi bari gufasha abantu batandukanye barimo abari babiri ndetse numugabi umwe. basa n'abantu batanga ibintu bitandukanye birimo amayinite kubitsa no kubikuza.

Ni byiza gihahira ku masoko atandukanye kuko hari igihe usanga ari ho ibintu biba bihendutse kurusha ahandi, nkuko ubibona barimo baramwereka ko bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga n'abandi bategereje kwishyura ibyo batwaye ngo babicyure mu rugo batahe babirye.

Ibidukikije bigizwe n'imikindo, inzu iherereye i Kanombe, ibyatsi birandaranda bikikije urugo.

Akantu ubona ko gafunze kari mu ibara ry'umuhondo ni ak'ikigo gishinzwe itumanaho hano mu Rwanda cyitwa MTN, gifasha abantu guhamagara, guhamagarwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ari nabyo iyo ushaka kubigura rero uza hano bakakubikira cyangwa bakakubikurira cyangwa ukagura simukadi.

Umubyeyi muwiza ubona ko aberewe n'umwenda w'akazi, ariko inyumaye hari ibintu byinshi bitandukanye, harimo amasafuriya ibiryo ndetse n'intebe nyinshi cyane, wareba hirya hari umuntu ufite akajage ndetse na ji bari gusukamo.

Urabona ko hakeye cyane ni byiza gukorera ahantu hafite isuku, nkuko ubibona akazu keza kariho amagambo y'umutuku amagambo yandikishije umweru ibirango biriho umwari, urabona ko akeye, hakurya harimo ibintu bicuruzwa biri mu ikarito, aha rero urahaza ukaka amayinite cyangwa ukabitsa, cyangwa ukabikuza.

Ni byiza ko nawe wakoresha application kuko ziba ziriho ibintu byinshi cyane, hari ibyo utasanga mu gukanda imibare, ukabisangamo aho ngaho nk'uko ubibona rero, iyi ngiyi ni iya Airtel, ikigo gishinzwe itumanaho hano mu Rwanda, kigufasha kugura amayite cyangwa kwishyura umuriro, amazi n'ibindi.

Umupapa mwiza wambaye umupira ubona ko afite mvirope na terefone mu ntoki amaze kwishyura akoresheje ikoranabuhanga nyuma yuko ibyo yatumije bimugezeho inyuma ye hari undi wambaye umwambaro mwiza w'umuhondo ingofero ubona ko yishimye ko ibyo bakoze ari byiza byagenze neza.

Ni heza ubona ko hakeye hari utuntu tuhatwikiriye tubarinda izuba ndetse n'imvura bari gutanga imipira myiza yanditseho emutiyeni, ni ikigo gitanga itumanaho mu Rwanda ndetse n'amatelefoni harimo abantu bicaye bategereje abaza kugura, hirya hari uduti twiza ubona ko turi kubabazanira umuyaga.

Abagabo babiri ubona ko basa nka bakuze umwe yambaye ikabutura, umupira w'icyatsi undi yambaye uwu muhondo, barikwishyura abatwazi b'ibinyabiziga baribabageje aho baje bisa nkaho baje mu kazi cyangwa gusura abantu biterwa ariko urabona ko inyuma yabo hari icyapa kiranga ahanu baribaje n'ibiti byishi cyane.

Hari uburyo kwishyura ukoreshe ikoranabuhanga byakemuwe ibintu byinshi cyane aho mbere wasanganga abantu bakanda imibare ugasanga ibice bimwe byo kuri telefone zabo byarapfuye ariko ubungubu ushobora gukoresha apurikasiyo ufitemo nk'uko uyu muntu ubona ari kubigenza bisa nkaho arimo arashyira kode bamuhaye kuri simukadi kugira ngo babashe kumwemerera kwinjira.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho Emutiyeni gatanga serivisi zitandukanye, harimo kubitsa, kubikura, kohereza, kugura amayinite ndetse no kugurisha amayinite. Mo imbere hakaba hahagazemo umugabo ufite bike mu ntoki cyangwa se ikaramu mu ntoki. Imbere hakaba hari n'amakayi cyangwa se impapuro.

Akazu keza ubonako gafunguye akayaga gatambuka, inyuma yo m'imbere harimo ibirango biri mu mabara y'umutuku bigaragaza ibiciro, afite ikayi n'ikaramu arimo arandika imyirondoro y'abantu batandukanye. Hano rero haza uje kugura amayinite kubitsa no kubikuza.

Abasore beza cyane ubona ko bake, babiri bambaye imyambaro y'akazi iri mu bara muhondo, hariho utugambo twandikishije umweru bari kureba muri mudasobwa ndetse imbere yabo hari uwaje abagana ashaka ubufasha butandukanye, ubona ko yambaye umupira w'umweru, ahetse igikapupo arimo arababwira ibibazo yahuye nabyo kugira ngo babikemure.

Ahantu heza ushobora kuza ukagura amayinite ndetse ukabitsa ukanabikuza, ni ahangaha nk'uko ubibona harimo mo imbere umuntu, afite ibyo ari gufasha uyu nguyu waje amugana, akazu k'umuhondo gafunguye karimo amagambo yanditse umukara, inyuma ye hari abantu benshi ubona ko nabo bafite ibyo barimo.

Guhaha ukoresheje ikoranabuhanga bifasha ibintu byinshi. Nk'uko ubibona hari umudamu wambaye imyenda y'akazi y'imyeru. Imbere ye hari ibirango byerekana aho wifashisha wishyura, telefone iteretse imbere ye, aho abika ibintu bijyanye n'impapuro ndetse n'ibindi byinshi, mudasobwa imbere y'iwe. Nawe urabona ko ari ibintu bisa neza wabyikorera.

Abamotari babiri urabona ko batware abari beza babambitse ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka bicaye ku moto zo mubwoko bwa tevesi, ubonako bafite ahantu barirekeza ndetse banabaza amakuru y'aho bagiye ukuntu hitwa cyangwa se aho bari buhagarare.

Ni byiza ko nawe wajya ugura ibintu ukoreshehe ikoranabuhanya cyangwa ukabigurisha nk' uko ubibona kuri iki kirango cyerekana aho ushobora gusura ibintu ukabireba n' inkweto, imyenda, amamashini biterwa n' icyo ushaka warangiza urabona ko hariho imyirondoro ukabahamagara bagahita babikuzanira.

Ni byiza ko ushobora nawe gutangiza umushinga ucururiza ku ikoranabuhanga cyangwa ku mbugankoranyambaga cyagurwa cyane, rero ni byiza ko nawe iyo ubiguze cyangwa iyo ubigurishirijeho bituma ubona abakiriya benshi kuko iyi si iri kugenda mu murongo w'ikoranabuhanga gusa.

Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Nizere ko nawe wajya ugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga birimo amavuta ndetse n'ibindi bintu byose byita ku mubiri ugatuma umera neza, nk'uko ubibona iki kirango kiri mu mabara y'icyatsi amagambo yandikishije ibara ry'umweru n'umukara mudasobwa imbere yaho ndetse na terefone ni uburyo rero cyangwa ibintu byose byerekana ko ushobora kubyikorera utavuye iwawe ubaye ufite kimwe muri iki.

Umusore ubona ko akeye yambaye ingofero ubonako yamurinda igihe akoze impanuka umwenda w'akazi uri mumabara y'icyatsi wicaye kuri moto iri mubwoko bwa tovisi atwate imizigo inyuma ye hari igikapu kirimo imi na shiri abantu bisa naho ahantu ari kwerekeza hari ikirango gihari inyuma yacyo hateye ibiti byiza cyane cyo mumabara y'umukara ndetse handitseho kavamari na baya hoteri.

Ni byiza ko wajya ugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga, nk'uko ubibona hano ujyaho ugashaka ikintu runaka, icyo bita ubushakiro, warangiza wakibona ukagikandaho bakakwereka amafaranga ugomba kwishyura ukakigura, ni byiza cyane birafasha.

Urabibajije ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi nkuko ubibona kuri iki kirango kiriho umwari mwiza ufite imisatsi wambaye ekuteteri ndetse n'imyenda itandukanye imbere ye hari agakapu karimo ibintu ndetse n'ibirango biranga ko batu bazana ibintu babivanye ahantu runaka.

Ahantu heza ushobora guhahira ibintu utiriwe uva mu rugo, cyangwa ngo ugende ujye kubishakisha ukoreburugendo rurerure bikuvune, kuri mu randasi nk'uko ubibona hano haba hari ibintu bitandukanye, tertefone, mutasobwa, ingofero, amashati, imyenda, ibipupe by'abana, ndetse n'ibindi byinshi nawe waza ukareba.

Ni byiza ko wajya ugura ibintu cyangwa ukagurisha wibereye iwawe ntakibazo ukagurisha nk'ibibanza wenda, inzu ndetse n'ibindi bintu runaka nkuko ubibona kuri ikikirango kiriho umwari mwiza uri guseka afite telefone mu ntoki bisanaho ari gushaka ibyo agura ngo ahite yishyura bimugereho ntakabuza.

Ahantu heza cyane rero nawe ushobora kuza kuhagurira imyenda, nk'uko ubibona harasa neza hari mo amakanzu, n'amapantaro, amashati, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, inzugi z'umweru, ziri mu madirishya urabona ko hagaragara, byagera ku gice cyo hasi hari ahantu ubona ko hari uwambaye ikanzu y'umweru , imodoka imbere y'umuryango,

Gukoresha ikoranabuhanga ni byiza cyane, ushobora kubikoresha uri kugura cyangwa ugurisha, nk'uko ubibona rero kuri iki kirango kiriho umusore mwiza, wambaye ingofero ndetse n'umupira usa umutuku, ateruye ibikarito bibiri biriho umuntu yari atumije, abimushyiriye mu rugo ariko ibi ni ibyerekana ko babitanga, nawe wabyikorera ugasura zino mbuga nkoranyambaga zabo.

Ni henshi ushobora guhahira ukoresheje ikoranabuhanga ku giti cyawe, ntamuntu ubiugukoreye wowe urasabwa telefone yawe cyangwa mudasobwa ugasabwa n'amayinite warangiza ukajyaho. Washaka urukweto ugahita urugura, rukaza kukugeraho iwawe ntakibazo.

Ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane, si ibyo gusa, ushobora no kugurisha ikintu runaka, yaba ibibanza, inzu, ndetse n'ibindi, nk'uko ubibona iki ni ikirango kibyerekana, hariho ibiciro ndetse n'ahantu hatatse cyane heza ubona ko wagurirayo ikintu cyangwa se ukakigurishirizayo.

Ni byiza ko wacuruza cyangwa ukagura ibintu ukoresheje ikoranabuhanga, nawe rero wabyikorera ubu ngubu kuko byakemuye byinshi, ntago bikigorana ushyiraho abantu bagushakira abaguzi, ahubwo wowe ubishyiraho ukishakira abaguzi kugiti cyawe. Nawe rero nakugira Inama yo kujya ubyikorera.

Moto nziza cyane iri mu bwoko bwa tevesi ubona ko yicayeho umusore wambaye imyenda y'akazi higanjemo imikara myinshi ingofero imurinda ibyago iyo akoze impanuka inyuma ye hari isanduku ubona ko atwayemo ibintu ashiriye abantu rero nawe bitabujije kuzamo hano bahita babiguhereza mu minota mikeya.

Moto nziza cyane yo mu bwoko bwa tevisi ubona ko hari umuntu uri kuyivaho, iparitse ahantu hari amabuye meza ubona ko nta cyondo cyahaba ngo ihanyerere, izanye ibintu umuntu yatumije. Iki gisanduku ubona ko kirimo ibiryo cyangwa ibindi bintu bitewe n'ibyo ushaka bahita babikuzanira iwawe.

Umusore mwiza wambaye ingofero imurinda ibyago igihe akoze impanuka, umwenda w'akazi uri mu mabara y'icyatsi, moto iparitse imbere yiwe hirya gatoya akayira k'abanyamaguru, ubona ko ari mu gahanda k'amabuye, hari ibyo yarazanye rero ku bantu bari babitumije bibereye iwabo abibagejejeho.

Ni byiza kugura mukoresheje ikoranabuhanga kuko bifasha abantu benshi nkuko muri kubibona, iki kirango kibyerekana harya hari indabyo zitatse neza, hasi hari utuntu ubonako ni akamodoka kaza kabikuzaniye agatwe k'umuntu ndetse n'ibindi bintu nawe ushobora kubigura cyangwa ukabigurishirizaho.

Hari ahantu nawe ushobora kugurira ibintu wifashishije ikoranabuhanga wibereye iwawe bikakugeraho nk'uko ubibona iki kirango kibyerekana, hano rero nawe wabikora, hari amabuye ahashashe ntaho wahurira n'icyondo, igikuta, hejuru hari ibiti ubona ko hateye n'uturabyo turinda abana akayaga, intebe nziza z'umutuku, ni byiza ku hatemberera ukazana umukunzi wawe.

Ni byiza ko nawe wajya ucuruza ibintu bitandukanye kuri murandasi, niba ufite ikibanza, inzu, akabati, intebe, ameza ndetse n'ibindi wajya ubikora nk'uko ubibona iki ni ikirango kibyerekana, uno mubyeyi rwose ahetse agakapu karimo ibintu, ariko bisa n'aho nyine ari ibyo kwamamaza kugira ngo nawe ubone ko byizewe bikugereho, hariho iminzani ndetse n'ibindi.

Ibinyabiziga bine biriho abantu bambaye ingofero ubona ko bagiye kubitwara zibarinda ibyago inyuma yabo hari ibikapu birimo ibintu abantu baba batumije bibereye mu rugo babashyiriye cyangwa bari mu kazi kandi.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza kuko byafashije abantu benshi gutaha batinze bagahita batumiza bibereye iwabo bikabageraho yaba mu gitondo bagiye kujya mu kazi nk'uko ubibona hano kuri iki kirango kibigaragaza, rero nawe nakugira inama yo kujya ubikora wifashishije terefone yawe.

Ni byiza guhaha wifashishije ikoranabuhanga bikemura ibintu byinshi cyane, ndetse binafasha benshi bataha bananiwe ugasanga babuze umwanya, iki ni ikirango rero kiri mu mabara y'icyatsi amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kerekana ibintu bigurirwa ho, imineke, amashu ndetse n'ibindi byinshi.

Gutumiza ibintu wibereye mu rugo nabyo bigira inyungu nyinshi cyane nk'uko ubibona izi ni moto zo mu bwoko bwa tevisi, zihetse ibikapu bitandukanye ariko birimo ibintu bashyiriye ababa babitumije bibereye mu rugo, nawe rero wabigerageza urugero nk'ibiryo, imyenda, inkweto cyangwa ibindi.

Ni byiza ko nawe wajya ushaka ibintu runaka ukoresheje ikoranabuhanga kuko birafasha cyane, nk'uko ubona rero hano ni ahantu ushobora kugurira ibintu bitandukanye harimo iby'amaterefone, amaradiyo, amakote, amashakoshi ndetse n'ibindi, sibyo gusa kuko nawe ushobora no gucururizaho ufite ikintu runaka ukagishyiraho ugacuruza.

Ni byiza ko nawe washinga umushinga runaka ukujya ucuruza ibintu kuri murandasi ndetse babigura ugahita ubibashyira nk'uko ubibonsa kuri iki kirango kiriho imyirondoro y'umuntu, isoko ndetse n'uburyo abikuzaniramo n'amafaranga wishyura.

Guhaha ukoresheje ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi gusa simabura no kukubwira ko byatugize n'abaswa, kuko twabaye n'abanebwe ntabwo tukibasha kugenda ngo dukore siporo, imitsi igororoke. Niba ubikora nawe jya ugerageza unagende uve nk'ahangaha ugere ahantu kure cyane unatembere urambure amaguru.

Moto nziza cyane urabona ko iri mu bwoko bwa tevisi iriho isanduka y'umutuku, hejuru yayo hateretseho mvelope bisa naho ari umuntu uri kuyifata ayizaniye abantu bayitumije runaka. Rero nk'uko ubibona hano hari imbere igikuta cy'amabuye, hejuru hari ibyatsi bihinzeho bikurura akayaga, ubona ko hasa neza.

Umupapa mwiza cyane nkuko yambaye ingofero imurinda ibyago, umupira mwiza umurinda imbeho, ipantalo nayo ubona ko ateruye amvelope irimo ibintu azaniye aba bantu, inyuma ye urabona ko hari moto aparitse inyuma y'igipangu, moto ivuye ahantu atahurira n'icyondo hirya gato hari ibiti byiza cyane. Iyo moto iriho ibintu bitandukanye hariho igisanduku kije mubyo ateruye azaniye abantu.

Ni byiza cyane niba nawe waratangiye gucuruza cyangwa ushaka gukora ibintu bitandukanye ko wagera kuri murandasi kuko birafasha cyane, urebye ni nayo si turi kugeramo aho buri muntu wese yifashisha telefone cyangwa mudasobwa, ari kugura ikintu cyangwa ari kugurisha ikintu.

Icyi ni ikigo gishinzwe kuzanira abantu ibintu babitumije hanze, nkuko ubibona izi modoka ndetse na moto nibiba byitwaye kubibageza aho batuye hato na hato rero bakorera hariya mu mujyi niho wabasanga nawe ukeneye kubituza hitwa iposita.

Ni byiza kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga, bikemura ibintu bitandukanye nk'uko nawe ubibona, iki ni ikirangi kibyerekana kiriho abantu babiri bari guhererekanya ibyo bari bazanye ndetse n'andi amagambo meza cyane asobanura ibintu bacuruza n'ibindi batanga.

Nawe wajya wigurira ibintu ukoresheje ikoranabuhanga aho wishyura ukoresheje ikarita ya banki cyangwa se terefoni yawe. Nawe ni byiza ko wajya uza nk'uko ubibona hano iki ni kirango kiri mu ibara ryiza, aho hariho mudasobwa, ikarita ndetse n'ibintu bacuruza, imipira myiza cyane.

Ahantu ni henshi ushobora guhahira wifashisha ikoranabuhanga ndetse nibindi byinshi bitandukanye, ushobora gutumizaho mu mahanga bikakugeraho utavuye iwawe, kuko mbere byaragoranaga wabaga washaka imodoka ariko utayibona inaha, bigasaba rero ko uzategereza igihe kirekire , ariko ubungu ushobora kuyitumiza igahita ikugeraho.

Gutumiza ibintu ku ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko birafasha nk'uko ubona uyu mu papa ari ahantu heza ubona ko habereye ijisho kuhareba, umwambaro mwiza w'akazi ndetse n'igikarita atwayemo ibyari birimo ashyiriye umuntu runaka wabitumije.

Ahantu heza rero wajya ugurira ibintu utavuye iwawe, ni kuri murandasi cyangwa imbuga nkoranyambaga, kuko ujyaho ugashaka ibintu runaka, wabibona bagahita babiguhereza, birimo imyenda, inkweto, amashati, amakote, biterwa! Rero si ibyo gusa, n'ibiryo wahita ubitumiza.

Gutumiza ibintu wibereye mu rugo ni byiza cyane nk'ibiryo nk'uko ubibona iki ni ikrango kibyerekana kiriho umusore wambaye ga ashaka gufata ikintu runaka hariho ifirit,i umugati, inkoko ndetse n'ibindi ubona ko biryoheye amaso kubireba urumva no mu kanwa byaba biryoshye.

Umumotari mwiza cyane wicaye kuri moto yo mu bwoko bwa tevisi. Wambaye ingofero imurinda ibyago igihe akoze impanuka, ubona ko yafashe ku mahembe ari koyobora agiye. Igikapu kiri inyuma ye kivanzemo umuhondo ndetse n'irindi bara, bisa nk'aho ashyiriye abantu batumije ibintu ku ikoranabuhanga i wabo.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Nawe ni byiza kujya ugura wifashishije ikoranabuhanga kuko birafasha cyane bituma utava murugo, ariko nanone ntabwo nabura kuvuga ko bikugira umunebwe, ntarugendo ukora hari n'igihe iyo umaze iminsi utagenda imitsi ihinamirana, bikagusaba kujya kwa muganga bakaguha imiti, jya ugerageza rero unatembere, ntugakoreshe ikoranabuhanga cyane.

Urubuga rw'irembo ni urubuga rwa Leta ruriho ibintu bitandukanye, rwakemuye ibintu byinshi Aho umuturage yabaga yirukanga mubayobozi ba mudugudu ndetse n'abandi ariko ubu ngubu ugikoresha murandasi ukajyaho waba ushaka icyemezo cy'uko utasezeranye nyangwa ikezo kindi ushaka cy'ivuko bagahita bakiguhereza utavuye iwawe.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga byatugize abazwa n'ibigoryi kubera ko ubungubu nago tugitekereza cyane twivuna dushaka gukora ikintu tukabaza social media n'ibindi bintu runaka ariko ngo nawe nubwo byatugize nkuko nguko bidufasha byinshi mubuzima bwacu bwa buri munsi nkuko ubabibona rero umwari arimo aratumiza ibiryo yibereye iwabo.

Imodoka nziza cyane ubona ko zose zisa umweru inyuma hari ibintu biranga ibyo batwaye by'umuhondo ndetse hari n'amazu bisa naho izi zipakira zigatwara ibintu runaka zikabishyira abantu ndetse zikanabibagezaho ku gihe.

Kugura bakoresheje ikoranabuhanga, byafashije abantu, benshi cyane batinyaga ubundi kuva mu rugo, ariko ubu ngubu bajya kuri murandasi, bakareba niba ari ibiryo, urukweto, ndetse n'ibindi bakabikandaho bakareba, bikabageraho mu minota mike batavuye iwabo.

Ni byiza ko nawe niba ufite ibintu ukorera ikoranabuhanga byajya bigufasha inshuro nyinshi, kuko ubibona hano hari ahantu hashashe amakaro meza, ndetse akabati abantu bakunda gukoresha bari mu biro, mu nsi hari inzu igaragaza banki ikoreraraho hafi ndetse n'ahandi ushobora kugurira ibintu bibereye mu rugo.

Akazu gacururizwamo gatangirwamo serivise z'itumanaho kari mu ibara ry'umutuku ikirangantego cya eyeteri ndetse ahatangirwa serivise z'itumanaho.

Kugurira ku ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi, mbere byaragoranaga ukabyuka wumva wanegekaye cyangwa se wakoze imirimo ivunanye utabasha kugenda, ugasanga urabwiriwe cyangwa se wambaye ubusa kubera wabuze umwanya wo kugura inkweto, ariko ubu ngubu uhita ujyaho, wareba urukweto rwiza ugahita urugura rukakugeraho udatinze.

Nakugira inama ko nawe wajya ugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga harimo inkweto, imyenda irimo imipira, amapantaro ndetse n'ibindi bitandukanye kuko byakemuye ibintu byinshi, mbere wajyaga ku isoko ukaba wabura icyo uhitamo ariko ubu ngubu uracyireba wabona gihagaze neza ufite amafaranga yo kucyigura ugahita ukigura cyikakugeraho.

Umusore mwiza cyane mu umwambaro w'akazi urimo amabara atandukanye harimo n'utugarurarumuri, ingofero imurinda ibyago igihe akoze impanuka ndetse urabona ko hari isanduka yazanye kuri moto azaniyemo ibintu abantu baba batumije bibereye mu rugo iwawe nk'ibiryo, inkweto cyangwa imyenda runaka.

Gutumiza ibintu dukoresheje ikoranabuhanga ni byiza kuko biradufasha abantu benshi gusa sinabura kuvuga ko bitugira abanebwe akenshi ntabwo dukunda kujya gutembera ngo dukore urugendo tube twagorora imitsi ariko nyine abantu bakora akazi gatuma bataha batibinze bananiwe batabasha guteka nabagira inama yo kujya batumiza nk'uko ubibona uyu mugabo wambaye ingofero nziza y'ubururu n'umupira w'akazi yarabibazaniye ababitumije.

Umusore mwiza urabona ko yishimiye, umusatsi karemano mwiza cyane, ingofero yashyize ku itako imurinda ibyago, ga zimurinda, inyuma ye hari ikibaga kinini atwaramo ibintu bitandukanye abishyira abantu baba babituje bibereye iwabo kugira ngo babashe kurya cyangwa babashe gukora ibindi bintu runaka.

Umusore mwiza cyane urabona ko agasatsi ke gasokoje, asa nk'aho ari guseka ariko nanoe bitari cyane, agashati gateye ipasi. Nk'uko ubibona iki ni ikirango cyerekan ibintu utumiza wibereye mu rugo i wawe: nko kurya cyangwa se inkweto, terefone n'ibindi bikakugeraho utahavuye.

Umusore mwiza ubona ko ageze ahantu ari gukuramo ingofero imurinda ibyago aparitse moto yiwe hirya gato hari isandugu urabonako isa nk'ibara ry'umutuku ifunzemo ibintu bisa nkaho ari abantu babitumije ari aho hakurya hari imodoka nyinshi ziri gutambuka ahantu haparitse nkaho ari k'umuhanda.

Kugura hifashishije ikoranabuhanga byakemyuye ibinyu byinshi bitandukanye, aho uba wibereye iwawe ugatumiza ikintu ukiguriye kuri murandasi. Rero nkuko ubibona hano hari abatwazi b'ibinyabiziga abatatu bambaye ingofero z'umweru ubona ko z'ibarinda igihe hakoze impanuka, na moto ziparitse urabona ko biteguye guhita bagenda bashyira abo bantu babitumije.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Bivuze ko bacuruza ibintu bifashishije ikoranabuhanga kuko niho isi iri kugenda igana ukabona muri terefone umuntu ari gushaka ikintu runaka hariho utuntu two kumanikaho imyenda abagore imisatsi yabo ndetse n'ibindi, sibyo gusa nawe wacururizaho cyangwa se ukaguriraho ibintu.

Ibintu byaroroshye ntukiva iwawe ujyiye gushaka ibintu runaka ku kigo cyangwa se ahandi hantu, rero nawe nakugira inama yo kujya ubitumiza wibereye i wawe kuko birafasha cyane, kuri iki kirango biragaragara hariho ikinyabiziga kibitwara amazi, nimero zabo za terefone wabahamagaraho ndetse n'inshuti bifashisha bari guteka.

Kugura ibintu wifashihije ikoranabuganga byakemuye ibintu byinshi, mbere watahaga unaniwe ukabura umwanya wo kujya ku isosko, ariko ubungubu ujya kuri murandasi ukabitumiza, nk'uko mu bibona kuri iki kirango , kiriho akantu kerekana ko babizana kameze nk'akamodoka, agatwe, ndetse n'intebe, wareba hirya hejuru, hari umwari uri kwakira ibyo bari bamuzaniye, abizaniwe n'umusore mwiza cyane.

Abamotari benshi ubona ko bambaye imyenda isa yimutuku ingofero zibarinda ibyago hanyuma hakurya hari imodoka iri kugenda imbere yaho hari ahantu hari ikigo kinini ubona ko wagira ngo ni icyamashuri rwose urabona ko baberewe ntakibazo nawe uyu mwuga wagukiza ubibonye ukabijyamo.

Abatwazi b'ibinyabiziga batatu, ubona ko bari kureba aho bavuye bambaye imyenda isa bose y'imituku y'akazi, ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka, ndetse ubona ko bahetse ibikapu inyuma yabo bitereste kuri moto, babishyiriye abantu bari batumije ibiryo birimo cyangwa se ibindi bintu runaka.

Nawe wajya wigurira ibintu cyangwa ukabicuruza wibereye iwawe utiriwe uhava kuko byatuma wica akazi kawe cyangwa se ukaba watakaza umwanya ukavuga ati: "Ndajya ahantu runaka gushaka ikintu naka nk'ipantaro cyangwa umwenda", nakugira inama rero nk'uko ubibona iki kirango kirabyerekana, urabihaha ukagabanyirizwa mirongo itatu na gatanu ku ijana.

Ibiti ni byiza bituzanira akayaga, moto ebyiri ziparitse imbere y'iduka aho uza guhahira ibintu runaka bitandukanye, ushobora kubitumiza wibereye iwawe bikakugeraho cyangwa ukiyizira, ku iduka kubigura kuko birafasha cyane, haba n'ibintu byinshi.

Hari abantu bakunze gukoresha amafaranga y'ibindi bihugu mu kuba bavunjisha kugirango babe babona adutubutse aho baba barabikije amafaranga y'igihugu gikomeye ku isi gikora ubucuruzi bukomeye kuburyo batazigera bahomba.

Nibyiza ko nawe niba ufite ikintu ukora wajya ugishyira kuri murandasi, kuko kirarebwa cyane niho isi irikugana, nk'uko ubibona iki ni kirango kiriho mudasobwa kiri mu ibara ry'ubururu n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bisa naho ari ahantu ushobora kubihahira cyangwa ukabicuruza.

Hari amasoko menshi acururiza ibintu byabo kuri murandasi ndetse hano mu Rwanda na ho bimaze kuhagera, nk'uko ubibona hano rero iki ni ikibyerekana ko ushobora kubigura nawe, hariho ibiciro ndetse n'ibintu ushobora birimo imyenda, inkweto n'ibindi byinshi.

Umwari mwiza cyane ubona ko yambaye umwenda w'akazi mu mabara y'icyatsi katseho ijambo mu mutora tw'umweru rivuga ngo vubavuba, rero ni ibintu bivuze ko ushobora gutumiza ibintu wibereye iwawe bigahita bikugeraho bazana ibiryo akenshi, ubona ko aseka neza imiringa ku matwi arasa neza wanamukunze wanamwiteretera.

Ahantu heza ushobora guhahira n'ubwo hatumye tuba abanebwe ariko hadufashije byinshi, gusa hari n'ingaruka zabyo zo guhinamirana imitsi, igihe utakoze urugendo rurerure kujya kwishakira ibyo kurya ariko ubu nano ibyiza byabyo kuko iyo utashye unaniwe wumva udashaka guteka uhita kubitumiza bikakugeraho.

U Rwanda ruri mu bihugu bigira itumanaho ryihuta kurusha ibindi bihugu by'abaturanyi dufite, ni byiza rero ko nawe wajya ukoresha ikoranabuhanga kuko ni ho turi kugana nk'uko ubibona hano ni twe tugira ibintu bihendutse kurusha iby'abandi, aho ku bihumbi bitanu gusa ushobora kubona Jinga mirongo itandatu ku munsi n'iminota utamara kuri uyu murongo wa Airtel.

Byaragoranaga kujya ahantu utazi, nta makuru wabaga ufite, byaravunanaga cyane ku muntu wabaga akuzaniye nk'ibintu runaka, ariko ubu ngubu baba bafite ukuntu bakurura ahantu uri, bahita bakugezaho ibintu watumije utiriwe ujya kubarangira, ni byiza rero ko nawe wajya ubikora.

Kantine irimo ibinyobwa bidasembuye, aho harimo imashini ibika ibinyobwa kugirango bitangirika, iri mu ibara ry'umweru, imbere y'aho hari etajeri irimo ibyo binyobwa.

Ibintu byaroroshye ntukiva iwawe ujyiye gushaka ibintu runaka ku kigo cyangwa se ahandi hantu, rero nawe nakugira inama yo kujya ubitumiza wibereye i wawe kuko birafasha cyane, kuri iki kirango biragaragara hariho ikinyabiziga kibitwara amazi, nimero zabo za terefone wabahamagaraho ndetse n'inshuti bifashisha bari guteka.

Iyi foto ndi kubonaho iduka hariho icyapa kigaragaza ko bacuruza amata, n'ibiyakomokaho, imbere harimo utubati tugiye turimo udukarito ndetse n'udukombe.

Ni byiza gutumiza ibintu wibereye mu rugo, kuko ikoranabuhanga ryarabikemuye. Ushobora kubicuruza cyangwa ukabigura uri i wanyu; nawe nakugira inama yo kujya uyifashisha kuko birafasha cyane, reba nk'iki kirango kiri mu mabara y'umuhondo amagambo yandikishije umukara, hariho umuntu wikoreye umuzigo awujyanye ahantu bari bawutumije.

Kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko bituma utava mu rugo, ugakora imirimo yawe ntipfe. Nk'uko mubibona rero uyu muntu yari amaze kugura amandazi ni agakarito kamwe karimo atantu, yari amaze kubigura amafaranga magana atatu mirongo itanu; rero hirya yaho gatoya hari ahantu ushobora kubandikira ugize ikibazo runaka.

Moto nziza cyane yo mubwoko bwa tevesi iparitse hano hari amabuye nta cyondo kihaba hari n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'umuhanda igikuta cy'amabuye giteyeho ibyatsi ndetse n'ipoto, hateretseho igikapu cyiza cy'icyatsi cyiri mwibara ryitsatsi ubonako kizamo ibyo kurya cyangwa se ibindi bintu batumije.

Hari igihe bigora abantu baba bavuye ku kazi nijoro cyangwa batinze bananiwe bakananirwa guteka kubera ko basanze wenda nta makara bafite bakagira ubunebwe bwo kujya kuyagura, nibyiza rero ko nawe uhita wikoza ku ikoranabuhanga ukareba ibiryo ushaka kurya ukabikandaho ukabitumiza bigahita biza nk'uko ubibona hano hariho n'ibiciro, iyo ubitumije bahita babikuzanira.

Moto nziza cyane urabona ko zitonze umurongo ziri mu mabara atandukanye icyatsi umutuku, zikoresha amashanyarazi nkuko iki gihugu kiri kuduteza imbere muri iyi minsi zirwanya ibyotsi bihumanya ikirere, abazitwaye bambaye ingofero zibarinda ibyago ndetse n'imyenda y'akazi, inyuma yabo hari ibikarito cyangwa ibisanduka batwaye birimo ibyo bashyiriye abantu babitumuje.

Abatwazi biki kinyabiziga beza cyane ubona ko bambaye ingofero zibarinda ibyago ibirahure biri hejuru cyane, imyambaro y'akazi myiza ubuna ko iri mu ibara ry'icyatsi, moto yo mu bwoko bwa tevisi iriho igikapu batwaraho ibintu biba byatumijwe hifashishijwe murandasi.

Ikoranabuhanga ryadukemuye ibibazo byinshi cyane aho witaga ku bana ukabura umwanya wo kujya ku isoko guhaha, ariko ubu ngubu ujyaho ukareba inkuru, ibikinisho by'abana imyenda inkweto imisatsi y'abagore amashakoshi ndetse n'ibindi byinshi nawe wajyaho ukirebera bigata bikugeraho.

Abatwazi bibinyabiziga bane ubonako bambaye ingofero zibarinda ibyago baparitse k'umuhanda biteguye guhita batwara ibintu abantu batumije m'urugo inyuma yaho hari igikapu cyiza cyane bahetse ubonako ariho batwara ibyo abantu bashaka.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa toyota ubona ko iri mu ibara ry'umutuku, inyuma hariho ibirango biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'imyirondoro. Aha rero nawe bakorera kuri murandasi wajya utumiza ibintu imodoka ikabikuzanira. Ntakibazo nawe wabikora.

Ese waruziko ushobora kugira ubuzima bwiza ukoze siporo turabona umukobwa uri kucyapa urimo uramamaza yambaye imyenda ya siporo, yambaye n'ipantaro ya siporo n'inkweto za siporo, siporo ni nziza m'ubuzima ishobora gukomeza amagufwa yawe ishobora kumara umunaniro rwose wari ufite hanyuma ukaruka kandi ukaryama neza ukagira n'ubuzima bwiza

Kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga byakemuye ibintu byinshi kuko mbere wasangaga umuntu atashye atinze akabura umwanya wo kujya ku isoko guhaha ariko ubungubu nawe wakigurira ibintu bitandukanye birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, amatereviziyo, amaradiyo ndetse n'ibindi byinshi utavuye iwawe.

Aha hantu urabona ko bacuruza imyenda ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye birimo amakanzu, amapantaro, amakote ndetse n'ibindi washaka wabibona, uri kubona inzu isize amarange y'umweru irimo n'ibindi bintu, hasi ho hari ikindi gice giparitsemo imodoka y'ubururu.

Umusore mwiza cyane ubona ko yatebeje agashati ke, inkweto nziza cyane. Bisa nk'aho arangariye mu ikoranabuhanga, niba nitegereje neza yambaye agapfukamunwa. Ari imbere y'undi wambaye ingofero imirinda ibyago, umupira w' icyatsi. Ari gukuramo ibintu bije kuri moto, undi yari yatumije yibereye iwe.

Kugura cyangwa ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza kuko bidufasha ibintu byinshi, ntabwo dutakaza umwanya cyangwa ngo twice akazi none n'igihe tunaniwe dutashye twumva tudashaka kugira ahantu tujya, tujyaho twareba wenda nk'ibiryo cyangwa ibindi bintu runaka twabishima tukabigura bikatugeraho.

Urabibona ko hakeye moto ya tevisi nziza cyane imeze neza, hari umuntu umwe urigufasha undi gufungura ibyo bamumuzaniye, uwambaye ingofero irinda ibyago niwe wari ubizanye ariko undi aje kubyakira bisa nkaho ari byiza cyane gusa bari mu ganda k'igitaka.

Umutwazi w'ikinyabiziga kuri moto yo mu bwoko bwa tevisi, ingofero imurinda ibyago, igihe akoze impanuka, umwenda w'akazi uri mu ibara ry'icyatsi, ahetse igikapu kirimo ibintu ashyiriye abantu, hirya gatoya hari ikirango kiranga aho agiye kuri kavu marina baya hoteri, hasi hari ibyatsi bihateye ubona ko bizana akayaga.

Ni byiza cyane gutumiza ibintu wibereye mu rugo kugira ngo akazi kawe kadapfa, nkuko ubibona rero hano hari umusore mwiza cyane wambaye ingofero imurinda ibyago igihe yakoze impanuka ari ku igare, inyuma ye hari igikapu kirimo ibintu ajyanye, ndetse nkuko ubibona hano hari ikirango cyanditseho ngo nawe tumiza ibintu bihite bikugeraho aka kanya.

Nawe wabyikorera cyangwa se ugashaka ahantu ujya ucururiza ibikorwa byawe igihe ugiye gushinga umushinga runaka. Nk'uko ubibona iki ni ikirango kibyemeza, kiriho hafi uburyo wabikora, ndetse guhamagara ku buntu cyangwa kubandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ibi ni byiza rero byafashije abantu benshi cyane gukora imirimo yabo batavuye mu rugo.

Aho bacururiza amata hari icyuma babikamo amata, amagi abiri ateretse ku meza igikarito cy'amazi ya nili giteretse kuri kontwari mo imbere muri etajeri harimo amajerekani atatu y'umweru.

Ikoranabuhanga ryaradufashije cyane nk'uko ubibona iki kiranga kibyerekana naho ujyaho wareba ikintu runaka ukagishima cyangwa se ushobora nawe kwikorera iryawe niba ufite ibucuruzi ukajya ubishyiraho ukabigurisha ndetse bikagurwaa vuba kandi byihuse nakugira iyo nama rero yo kubikora.

Hari ahantu henshi ushobora guhaha wibereye mu rugo bidasabye kujya gushakisha, nk'uko ubibona aha ni ahantu bakorera mu Rwanda bitwa akarwa haba hariho ibintu bitandukanye ushobora kugura by'ikoranabuhanga tereviziyo, imyenda n'ibindi bintu byinshi bitandukanye

Ahantu havunjishiriza ubwoko butandukanye bw'amafaranga turabona televiziyo imanitse ku gikuta, tukabona ubwoko bw'amamashini abara amafaranga nk'awe dusanga mu ma banki mo turimo turabona ko bashobora kuba bavunja amafaranga y'amadolari, amayero amapawunde n'ibindi byinshi bitandukanye, gusa bagi hagiye hariho igiciro cyashyizweho kuri buri faranga.

Umwambaro mwiza w'akazi usa nk'ubururu hariho utugarura rumuri ndetse n'ikote ryiza, nkuko ubibona ari kurebera mu ngofero imurinda ibyago, ateruye amverope ari kuyikura mu isanduka yarije kuri moto itezwe n'urubaho ndetse ruzirikishije ubona ko abizaniye umuntu runaka warubitumije yibereye iwe.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Kugura ibintu wifashishije ikoranabuhanga rifasha ibintu byinshi kuko mbere watahaga utinze ukaba utava murugo kubera bwije cyangwa unaniwe, ariko ubu ngubu ujyaho ukareba ibyo ushaka bityo niba aribiryo Niba ari inkweto, imyenda ukabikandaho bikakugeraho mu minota mikeya, ugahita wishyura ntakabuza rero kubona ikirango kibyerekana ko bikunda kandi binizewe .

Gukora ibintu wifashishije ikoranabuhanga nk'uko ubibona muri iki kirango cyerekane ibyo' bacuruza ni ibijyanye n'imboga nyarwatsi, inyanya, puwavuro, karoti, imineke ndetse n'imbuto, hasi rero hariho n'ibiciro ushobora kubiguriraraho ntakibazo rwose.

Ubu turi kugana mu isi iteye imbere cyane aho umuntu atakibasha kuva iwe agakoresha ikoranabuhanga gusa, agashaka ibintu runaka bikamugeraho atiriwe ava murugo. Nk'uko ubibona ibi ni ibirango rero byerekana ahantu ushobora gukura ibintu runaka.

Ni byiza nawe wajya utumiza ibintu wibereye murugo cyane cyane mumahanga kuko birafasha cyane nk'uko ubibona hano uru ni urutonde rw'ibihugu, ushyiramo ukavuga icyo uherereyemo niba ari imodoka uri kugura, akaba ari ho igusanga utiriwe uva iwawe ngo ugiye kuyishaka.

Igitoki ni kiza cyane akuko gifasha abana ndetse n'abantu bakuru bakozi cyana cyane abarwaye igifu cyorosha mu nda kuko nk'uko muri kubibona rero abakozi kubicuruza bambaye imyenda y'akazi ndetse n'utuntu turinda umusatsi kujyamo umwanda.

Ahantu heza rero wajya ugurira ibintu utavuye mu rugo kuri murandasi nk'uko ubiboa, hari imbuga nkoranyambaga ndetse zateye imbere n'aha mu Rwanda, ni byiza ko nawe wajya ubyikoreshereza, rero nk'uko ubibona hano ni terefone nziza irimo ibiciro, amapantaro, imyenda isanzwe ndetse n'ibindi, wakwigurira nawe.

Urabona haracyeye ni heza amakaro meza; urabona ko ibintu bisa neza cyane. Hirya gatoya hari ahantu hatondetse ibintu bitandukanye wajyayo ukirebera, hirya nanone wahabona umwari wambaye umupira w'umutuku bisa nk'aho afite abantu ari kwakira ,hakaba hari undi wambaye imyenda y'imikara na we uri gutembera, na we bisa nk'aho afite icyo ari gushaka.